Inyubako iri kuberamo inama, haganirwa kuri serivisi z'ubuvuzi. Harimo abagabo ndetse n'abagore, bose baricaye, bamwe muri bo, bafite amakaye mu ntoki yo kwandikamo ibyo bari kubwirwa.

Ubukangurambaga ku buzima bwitabiriwe n'abantu batandukanye, harimo abakobwa, abahungu, abagabo ndetse n'abagore bahagaze imbere y'inyubako bose bari kureba imbere bari gufata ifoto.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako yabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, higanjemo abagabo ndetse n'abagore, imbere yabo hari abayobozi bicaye aribo bayoboye inama.

Ahabereye igikorwa cyo kwita ku baturage. Hari abayobozi ndetse n'abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, aho bari imbere y'ameza irambitseho mudasobwa iri gukoreshwa muri icyo gikorwa.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'ingeri zitandukanye higanjemo abagabo, imbere yabo harambitse ibyo kurya ndetse bafite amakaye bari kwandikamo ibiri kuvugirwa mu nama.

Icyumba kiri mu nyubako yabereyemo inama yitabiriwe n'abagabo ndetse n'abagore, abakuze n'abakiri bato. Imbere yabo harambitse amacupa arimo amazi yo kunywa kandi bafite amakaye yo kwandikaho incamake y'inama.

Icyumba kiri mu nyubako yabereyemo inama, yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, abagabo ndetse n'abagore, aho bicaye hamwe, bafite impapuro bari kwandikaho ibiri kubera mu nama.

Ubushakashatsi bwakozwe na minisitiri w'ubuzima ku ndwara ya kanseri mu gihugu cy'u Rwanda, ari kwerekana abakunda guhitanwa n'iyi ndwara muri iki gihugu, ndetse n'uburyo iyi ndwara ishobora kwirindwa.

Ahabereye igikorwa cyo gukingira abana bakiri bato, umumama ateruye umwana we mu ntoki ze hejuru ye hari umuganga wambaye imyenda y'akazi ari gukingira umwana.

Kimwe mu cyumba cyo kwa muganga, kirimo abaganga bambaye imyenda yabugenewe y'akazi, harimo kandi ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi nk'imashini zikoreshwa mu gusuzuma bareba ikibazo umurwayi yaba afite.

Icyumba kiri mu nyubako yabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye higanjemo abagabo ndetse n'abagore bicaye mu ntebe, imbere yabo harambitse amacupa y'amazi yo kunywa, mu nguni yo muri icyo cyumba harimo idarapo ry'igihugu cy'urwanda.

Umumama ukuze wambaye umupira w'ubururu ndetse yambaye agapfukamunwa, ari kwita ku mwana muto w'umuhungu, amukarabya intoki kugira ngo birinde imyanda ishobora gutera indwara.

Hanze y'inyubako aho umujyanama w'ubuzima wambaye imyambaro y'akazi kandi ufite ikarita mu ntoki, yasuye umugabo ndetse n'umugore kugira ngo abaganirize uburyo bagomba kwitwara barusheho kugira ubuzima bwiza.

Icyumba kiri mu nyubako yabereyemo inama, yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore, bicaye hamwe barebana bari gutanga ibitekerezo.

Umwana muto w'umukobwa uri gukaraba intoki, amazi ari kuva muri robine ajya mu ndobo y'umukara, aho ari gukaraba kugira ngo abashe kwirinda imyanda, ishobora kumutera uburwayi ubwo ari bwo bwose.

Ivomero rusange aho ingeri zitandukanye higanjemo abana, abagabo ndetse n'abagore, baje kuvoma bitwaje amajerekani hari umumama kandi uri gufasha gusunika amazi ava muri robine ajya mu majerekani.

Ahabereye igikorwa cyo gukingira cyitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, abaganga bambaye imyambaro yabugenewe, udupfukamunwa ndetse bitwikiriye mu mutwe nibo bari kwita kuri abo bantu.

Ku kigo cy'amashuri aho abana b'abanyeshuri bari kuvoma amazi avuye mu tugega twabugenewe bakayanywa, kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza, bari kuyanywa bakoresheje ibikombe byabugenewe.

Icyumba kiri mu nyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi. Kirimo imashini z'ubwoko butandukanye zifashishwa mu gusuzuma indwara umurwayi yaba afite. Harimo umuntu wambaye imyenda y'abaganga ndetse akambara agapfukamunwa.

Ku ivomero aho abana babiri bakiri bato baje kuvoma. Bari kuvoma amazi meza ava muri robine ajya mu ndobo z'umweru ari zo baje kuvomeramo.

Ahabereye igikorwa cyo gukingira abaturage. Umuganga ukiri muto, wambaye imyambaro y'akazi, ari kwita ku baturage, imbere ye harambitse imiti y'ubwoko butandukanye.

Ubukangurambaga ku buzima bwabereye ku kigo nderabuzima cya Nyabageni, imbere y'inyubako hari abari bitabiriye icyo gikorwa harimo abaganga bambaye imyenda y'akazi ndetse n'abaturage basanzwe bari baje muri icyo gikorwa.

Ku kiyaga aho umwana ukiri muto umukobwa yazanye akajerekani kuvoma, ari kudaha amazi ayakura mu kiyaga ajya mu kajerekanike iruhande rw'ikiyaga kandi hateye ibyatsi.

Hanze y'inyubako yabereyemo inama yitabiriwe n'abagabo ndetse n'abagore, bahagaze hamwe, iruhande rwabo hari idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda, inyuma yabo hari icyapa kinini kigaragaza ibyaranze inama, bose bari gufata ifoto.

Icyumba kiri mu nyubako yabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore, bicaye hamwe barebana kandi imbere yabo harambitse amazi, bamwe muri bo bafite amakaye yo kwandikamo inshamake y'inama.

Ivomero rusange ahari abana bakiri bato bazanye utujerekani baje kuvoma, hari n'umuntu mukuru uri kubafasha kugira ngo amazi abashe kuva muri robine, ajya mu majerekani yabo.

Ku ivomero rusange ahari abaturage b'ingeri zitandukanye bari kureba umwe muri bo uburyo akoresha igikoresho cyifashishwa mu gusunika amazi ava muri robine ajya mu ijerekani.

Icyumba kirimo abana bato b'abanyeshuri harimo abakobwa ndetse n'abahungu, imbere yabo hahagaze abayobozi b'ingeri zitandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore baje kubaganiriza.

Mu rugo rw'umuturage, aho umumama ukiri muto ari koga amazi meza kugira ngo yikureho imyanda iyo ari yo yose ishobora kumuteza uburwayi. Ari gukoresha igikoresho cya kandagira ukarabe.

Icyumba kiri mu nyubako yabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo, abagore, abakuze ndetse n'abakiri bato hagati muri bo hahagaze umugabo uri kubakoresha inama iruhande rwe hari icyapa kigaragaza ibiri kuranga inama.

Ahabereye igikorwa cyo kurwanya SIDA, hicaye umuganga wambaye imyenda y'akazi ari kuzuza amakuru mu ikaye ahawe n'uwaje umugana, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho insanganyamatsiko ivuga ngo ''SIDA iracyahari duhaguruke tuyirwanye''.

Ahabereye inama aho abajyanama b'ubuzima harimo abagabo ndetse n'abagore bambaye imyambaro y'akazi, bari gufata ifoto bari kumwe n'abayobozi babo, inyuma yabo hari ibiti.

Icyumba kiri mu nyubako yabereyemo inama, aho abayoboye inama higanjemo abagabo ndetse n'abagore bicaye bose imbere, inyuma yabo hari icyapa kigaragaza ibyaranze iyo nama.

Ku ivomero rusange aho abaturage baza kuvoma amazi meza. Hari abamama ndetse n'umwana ukiri muto baje kuvoma, aho amajerekani menshi atondetse imbere yabo kugira ngo bayavome.

Ahabereye igikorwa cyo kwita ku barwayi, hari umusaza ukuze urikwitabwaho n'abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, bari gukoresha ibikoresho byifashishwa mu kureba uko umuvuduko w'amaraso uhagaze.

Ahabereye inama yahuje abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore, harimo kandi umupolisi wambaye imyambaro yabugenewe, imbere yabo hicaye umwana muto cyane kandi hari umugabo uhagaze imbere yabo ufite indangururamajwi uri kubakoresha inama.

Hanze y'inyubako yabereyemo inama. Yitabiriwe n'abagabo ndetse n'abagore bahagaze hamwe bari gufata ifoto. Inyuma yabo hari ibyapa bigaragaza serivisi iyo nyubako itanga.

Ku ivomero rusange aho umumama ukuze ufite umwitero yaje kuvoma amazi, ari kuva muri robine ajya mu ijerekani yaje kuvomeramo, iruhande rw'ivomero hari ibiti bifite ibibabi by'ubwoko butandukanye.

Umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri. Witabiriwe n'abagabo ndetse n'abagore bose bambaye ingofero z'umweru bamwe muri bo bambaye imipira y'umweru abandi bambaye imipira y'ubururu. Bafite icyapa kigaragaza ibiri kuranga uwo munsi.

Icyumba kiri mu nyubako yabereyemo inama yitabiriwe n'abantu ingeri zitandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore, imbere yabo harambitse amacupa arimo amazi yo kunywa ndetse bamwe muri bo bafite mudasobwa imbere yabo.

Icyumba kiri mu nyubako yabereyemo inama, aho imbere muri iki cyumba hicaye abagabo babiri bayoboye inama, imbere yabo harambitse amacupa arimo amazi yo kunywa ndetse bafite amakayi yo kwandikamo inshamake y'inama.

Abana bakiri bato, harimo abakobwa ndetse n'abahungu, bari koga intoki bakoresheje amazi meza ndetse n'isabune, iruhande rwabo hahagaze umugabo ufite igikombe mu ntoki ari kubasukira amazi.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako yabereyemo inama yitabiriwe n'abantu ingeri zitandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore, imbere yabo hicaye abayoboye inama kandi buri wese afite icupa ry'amazi rimuteretse imbere.

Icyumba cyabereyemo igikorwa cyo gupima abana bakiri bato, bareba ko nta burwayi baba bafite. Harimo umuganga wambaye imyambaro y'akazi, afite igikoresho mu ijosi rye ari gukoresha apima umutima w'umwana areba ko uri gutera neza.

Umujyanama w'ubuzima wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe yasuye umuturage mu rugo rwe, ari kumuganiriza akoresheje ifoto afite imbere ye iriho umugabo ndetse n'umugore.

Ku kigo cy'amashuri hari ivomero aho abana bakiri bato b'abanyeshuri bambaye imyambaro y'ishuri, bari gukaraba intoki bakoresheje amazi meza kugira birinde indwara zishobora guturuka ku mwanda.

Icyumba kiri mu nyubako yabereyemo inama, yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore, imbere hari abicaye bayoboye inama, inyuma yabo hari icyapa kinini kigaragaza ibyaranze inama.

Ku ivomero rusange aho abana bakiri bato ndetse n'abakuze baza kuvoma kugira ngo babone amazi meza. Umusore ari gufasha abana gusohora amazi muri robine ajya mu majerekani baje kuvomeramo. Hakurya y'ivomero hateye ibiti.

Icyumba kiri mu nyubako yabereyemo inama. Yitabiriwe n'abagore ndetse n'abagabo, bamwe barahagaze, abandi baricaye, inyuma yabo hari icyapa kiri kuranga iby'uwo munsi. Bose bari gufata ifoto.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako iberamo ubuvuzi harimo abaganga bambaye imyenda y'akazi, bambaye n'udupfukamunwa, bari kwita ku murwayi ufite ikibazo kugira ngo babashe kumuvura.

Umwana ukiri muto w'umukobwa ari gukaraba intoki akoresheje amazi meza, amazi ari guturuka mu ndobo y'icyatsi kibisi ipfundikiye, naho ayo amaze gukaraba akajya mu ibase.

Ahabereye igikorwa cyo gukingira abana bakiri bato, umumama wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe y'ubuganga, ari gukingira umwana muto uteruwe na mama we akoresheje urushinge, iruhande rwabo hateriretse ameza ariho ibikoresho biri kwifashishwa.

Ahabereye igikorwa cy'ubuvuzi hari abaganga harimo abasore ndetse n'umukobwa, bambaye imyambaro y'akazi imbere yabo harambitse ibikoresho bakoreshaga mu buvuzi.

Icyumba kirimo imashini z'ubwoko butandukanye zifashishwa mu gutunganya ibihingwa kugira ngo bizajyanwe ku isoko, harimo umugabo wambaye imyambaro y'akazi niwe uri kubyitaho abicunga.

Icyumba kiri mu nyubako yabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore. Bicaye hamwe, bari kuganira batanga ibitekerezo kandi ku meza hateretseho mudasobwa.

Abana b'abanyeshuri harimo abakobwa ndetse n'abahungu baje ku ivomero, bafite indobo baje kuvomeramo ndetse n'utujerekani, bari kuvoma aho amazi ari kuva muri robine ajya mu bikoresho bazanye.

Serivisi yo gutera abana inkingo kugira ngo bibashe kubarinda indwara zitandukanye, umumama aricaye ateruye umwana mu ntoki, undi nawe amwunamye iruhande agiye kumutera urukingo.

Hanze y'inyubako habereye inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye abagabo, abagore, abakuze ndetse n'abakiri bato. Hari ihema aho abayobozi babo bicaye, hakurya yabo kandi hari imodoka.

Ahabereye igikorwa cy'ubukangurambaga ku buzima. Ni igikorwa cyitabiriwe n'abanyeshuri harimo abahungu ndetse n'abakobwa. Hari kandi abaje kubafasha muri icyo gikorwa harimo abagabo ndetse n'abagore.

Ku ivomero rusange aho abana b'ingeri zitandukanye harimo abakobwa ndetse n'abahungu bari gukaraba intoki bakoresheje amazi ari kuva muri robine kugirango bakureho imyanda iyo ari yo yose ishobora kubateza uburwayi.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, ahatangirwa ubuvuzi. Harimo imashini zifashishwa mu gusuzuma abarwayi ndetse n'umuganga, wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe.

Ku ivomero ahari umubyeyi uri kuvoma, ari kuvomera mu ijerekani risa umuhondo riteretse mu ibase, inyuma ye hari imyenda y'ubwoko butandukanye, amapantalo, amajipo yanitse ku mugozi.

Ahabereye igikorwa cyo kwita ku buzima bw'abaturage, ni igikorwa cyabereye ku kigo nderabuzima cya Nyabageni, aho cyitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, abakuze ndetse n'abakiri bato.

Icyumba cyabereyemo inama, abayitabiriye bamwe bambaye imipira y'icyatsi kibisi, abandi bambaye imipira y'imyeru, bose kandi bambaye udupfukamunwa, kugira ngo birinde gukwirakwiza indwara hagati yabo, imbere y'abo kandi hateretse amacupa arimo amazi yo kunywa.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara ari koga intoki akoresheje kandagira ukarabe, aho ukandagira ku giti hasi, amazi akava mu kajerekani akaba ari yo ukaraba.

Ubukangurambaga bwo gutera ibiti ni igikorwa cyitabiriwe n'abantu batandukanye abagabo, abagore, abakuze ndetse n'abakiri bato bambaye imyenda y'ibara rimwe ndetse hagati yabo harimo n'abapolisi.

Icyumba kiri mu nyubako yabereyemo inama, aho umugabo uhagaze imbere ari gukoresha inama, iruhande rwe hari intebe ndetse n'utumeza duto, duteretseho amazi meza yo kunywa.

Hanze inyubako yabereyemo inama yitabiriwe n'abajyanama b'ubuzima bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, bari kumwe n'umuyobozi wabo aho bamuteze amatwi abahagaze imbere.

Ku ivomero rusange, aho abana bakiri bato b'abanyeshuri, bambaye imyambaro y'iniforume baje kuvoma, bitwaje utujerekani ndetse n'indobo zifite ibara ry'umuhondo.

Hanze y'inyubako, yabereyemo inama. Yitabiriwe n'abaganga, bambaye imyambaro y'akazi ndetse n'abayobozi babo. Iruhande rwabo, hari icyapa kigaragaza ibyaranze inama, bose bari gufata ifoto.

Umukobwa ukiri muto uri kumwe n'umwana muto cyane baje kuvoma ku kiyaga bitwaje amajerekani, aho bari kuvoma amazi ava mu kiyaga akajya mu majerekani yabo.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako yabereyemo inama harimo abagabo babiri bambaye amakoti y,umukara ndetse n'amashati ymweru bari gusuhuzanya umwe muri bo afite amakaye mu ntoki yariri kwandikamo ibyabereye mu nama.

Hanze y'inyubako yabereyemo inama yitabiriwe n'abagore ndetse n'abagabo, bambaye imipira isa y'ubururu yandikishijeho inyuguti mu ibara ry'umweru, bose kandi bambaye ingofero zifite ibara ry'umweru, inyuma yabo hari icyapa kigaragaza ibyaranze uwo munsi.

Ku ivomero rusange rizengurukije ibiti, aho umubyeyi ukiri muto ufite umwana we mu ntoki ari kuvoma amazi ava muri robine, ajya mu ndobo yaje kuvomeramo.

Abagabo ndetse n'abagore b'abajyanama b'ubuzima, bambaye imyambaro y'akazi, bari kumwe n'abayobozi babo bari baje mu nama, bahagaze bose hamwe bari gufata ifoto.

Ku kigo cy'amashuri umwana ukiri muto wambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe ari koga intoki n'amazi meza kugira ngo yirinde indwara zishobora guturuka ku mwanda, iruhande rwe hari puberi bajugunyamo imyanda yabonetse mu kigo.

Ku ivomero rusange aho abana bakiri bato bazanye amajerekani baje kuvoma, umwe muri bo niwe uri kubafasha gusunika amazi, ayavana muri robine ajya mu ijerikani.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abagabo ndetse n'abagore n'abaganga, bambaye imyenda y'akazi, bari kurebera hamwe uburyo bwo gukumira ndetse no kurwanya ugutwita kwa abangavu.

Ahabereye igikorwa cyo gukingira aho abaganga bambaye imyambaro y'akazi, bari gukingira abaturage baje muri icyo gikorwa, imbere yabo harambitse ibikoresho bari gukoresha.

Icyumba kirimo abaganga bambaye imyambaro y'akazi, bose bambaye udupfukamutwe ndetse bambaye udupfukamunwa, bafite ibikarito mu ntoki zabo byandikishijeho amabara y'umukara ndetse n'amabara y'umweru ku ruhande.

KIcyumba kiri mu nyubako yabereyemo inama yitabiriwe n'abadamu ndetse muri bo harimo umuganga wambaye imyambaro y'akazi, bicaye mu ntebe bari kuganira, iruhande rwabo harambitse amakaye bari kwandikamo inshamake y'inama.

Kwa muganga ahatangirwa ubuvuzi, hari abantu b'ingeri zitandukanye abagabo, abagore ndetse n'abana bato baje kwivuza. Bicaye mu ntebe hanze ni ho bategerereje kugira ngo babashe kwitabwaho n'abaganga. Inyuma yabo hari icyapa kigaragaza serivisi zitangwa no kwa muganga.

Ahabereye igikorwa cyo gukingira indwara zitandukanye. Umuganga wambaye ga mu ntoki, afite urushinge, ari kurukoresha akingira uwaje gufata iyo serivisi.

Abana bakiri bato, harimo abakobwa ndetse n'abahungu, bari koga intoki bakoresheje amazi meza ndetse n'isabune, iruhande rwabo hahagaze umusore, uri kubasukira amazi ayakura mu gikombe.

Inama yahuje abagabo ndetse n'abagore b'ingeri zitandukanye abakuze ndetse n'abato abenshi muri bo bambaye amajiri asa bahagaze imbere y'inyubako yabereyemo inama bari gufata ifoto.

Kimwe mu cyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, abagabo abagore, abasore ndetse n'abakobwa, imbere yabo harambitse amacupa y'amazi, ndetse n'amakaye bari kwandikamo inshamake y'inama.

Ahabereye igikorwa cyo guha abana bakiri bato amata ni igikorwa cyitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore bari guha abana amata bifashishije ibikombe byabugenewe ndetse n'inkongoro.

Inyubako y'ibitaro byita ku bantu bafite ibibazo byo mu mutwe. Hanze yayo hari ibyapa biri mu mabara y'umweru, byanditseho amagambo agaragaza serivisi zitangwa n'ibi bitaro.

Ahabereye igikorwa cyo kuganiriza abaturage bafite ibibazo byo mu mutwe, baricaye aho buri wese afite uri kumuganiriza, iruhande rwabo hari imodoka harimo ibikoresho biri kwifashishwa.

Abitabiriye inama, yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore. Bahagaze imbere y'inyubako yabereyemo inama, iruhande rwabo hari icyapa kigaragaza ibyaranze inama.

Icyumba kiri mu inyubako yabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo; abagore, abagabo, abakuze, ndetse n'abakiri bato, imbere yabo hari ameza arambitseho amazi meza yo kunywa.

Ahabereye igikorwa cyo kwibuka inzirakarengane, hari umugabo wambaye ikote ry'umukara arunamye. Imbere ye harambitse ururabo naho inyuma ye hari igikuta kinini cyane cyanditseho amazina y'inzirakarengane.

Ni inyubako yabereyemo inama yitabiriwe n'abantu bo mu ngeri zitandukanye, abagabo ndetse n'abagore, bamwe barahagaze, abandi baricaye, aho bari bari kwiga ku kibazo cy'ibibazo byo mu mutwe bikunda kwibasira abantu.

Abantu b'ingeri zitandukanye harimo: abagore, abagabo ndetse n'abana bato, bose bafite udupapuro turiho amabara y'idarapo y'u Rwanda aho batumanitse hejuru icyarimwe.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye: abagabo, abagore, abakuze ndetse n'abakiri bato. Hari umumama uhagaze imbere ufite indangururamajwi mu ntoki ze ari gutanga igitekerezo. Iruhande rwe hari umukobwa wambaye umupira w'umutuku ndetse n'ipantaro y'umukara.

Igikorwa cyo kurwanya ihohoterwa cyitabiriwe n'abagabo ndetse n'abagore, bayobowe n'umugabo ufite indangururamajwi, abitabiriye icyo gikorwa bambaye imipira'icyatsi kibisi.

Hanze y'inyubako yabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa. Bahagaze hamwe bafite icyapa imbere yabo kigaragaza ibyaranze inama bari gufata ifoto y'urwibutso.

Umubyeyi ufite umwana mu ntoki ze ari kumwe n'umujyanama w'ubuzima wambaye umwambaro w'akazi, afite igipimo mu ntoki cyifashishwa mu kureba niba umuriro utazamutse.

Igishushanyo cy'imibare, kigaragaza, uko impfu ziterwa no kwiyahura zigenda ziyongera, cyangwa se zigabanuka, uko imyaka igenda ikurikirana, iruhande rwacyo hari amagambo abisobanura neza.

Abitabiriye inama harimo ingeri zitandukanye abagabo, abagore, abakuze ndetse n'abakiri bato. Bahagaze imbere y'inyubako yabereyemo inama, iruhande rwabo hari ikarita igaragaza ibyaranze inama bose bari gufata ifoto.

Umukobwa wicaye mu ntebe yegamiye, afite agakoma ku kaboko ke, kandi yambaye akantu mu ijosi rye, afite imisatsi myinshi ku mutwe, ari guseka arishimye.

Hanze y'inyubako yabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo: abagabo, abagore, abakuze ndetse n'abakiri bato, bahagaze hamwe bari gufata ifoto y'urwibutso kandi bafite utwapa mu ntoki zabo.

Icyumba kiri mu nyubako yabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, abagabo ndetse n'abagore, harimo umumama uri gutanga igitekerezo kandi afite agapfukamunwa ku kaboko ke, iruhande rwe hicaye abandi bakurikiranye inama.

Icyumba kiri mu nyubako yabereyemo inama, aho yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, abagabo ndetse n'abagore bafite ibyo kunywa imbere yabo ndetse na mudasobwa imbere yabo. Umumama ukiri muto afite indangururamajwi, ari gutanga igitekerezo cye.

Icyumba cyabereyemo inama, haganirwa ku buzima bwo mu mutwe, yitabiriwe n'abantu benshi, higanjemo abagore bakuze, imbere yabo harambitse amazi yo kunywa, ndetse na mudasobwa.

Umusore ufite isume y'umweru ku rutugu, afite urudodo mu ntoki ze ari kurukoresha akura imyanda mu menyo kugira ngo yirinde indwara zose zishobora gufata amenyo biturutse ku mwanda.

Icyumba kiberamo ubuvuzi bw'amenyo, umurwayi aryamye ku gatanda, ari kwitabwaho na muganga wambaye imyambaro y'akazi, muri icyo cyumba kandi harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gusuzuma.

Hanze y'inyubako iberamo ubuvuzi bw'indwara y'amenyo hejuru ku nyubako handitse amagambo agaragaza izina ry'iyo nyubako, hanze yayo kandi hateye indabo z'ubwoko butandukanye.

Umumama ukiri muto ari kumwe n'umwana w'umukobwa, bose bambaye amasengeri y'umweru, bafite udukoresho twifashishwa mu gukura imyanda mu menyo, kugirango ngo birinde indwara zose bashobora kwandura.

Inyubako iberamo ubuvuzi bw'amenyo hari ibikoresho nk'intebe zifashishwa umurwayi yicayeho kugira ngo abashe kwitabwaho harimo utubati kandi twifashishwa babikamo ibikoresho by'ubuvuzi.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga ahabera ubuvuzi bw'indwara y'amenyo, umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe ari kwita ku mwana ukiri muto amusuzuma amenyo ye akoresheje ibikoresho byabugenewe.

Igikoresho cyifashishwa mu buvuzi bw'amenyo, kigaragaza amafoto y'uburwayi ubwo aribwo bwose umuntu yaba afite. Umuntu uri kugikoresha yambaye udupira tw'intoki dusa ubururu.

Icyumba cyabereyemo inama, yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, abakuze ndetse n'abato, bambaye imipira y'ibara ry'icyatsi kibisi ndetse bafite ibikoresho byifashishwa mu gukora isuku y'amenyo.

Icyumba kiri kuberamo ubuvuzi bw'amenyo harimo abaganga babiri bambaye imyenda y'akazi bari kwita ku mwana ukiri muto bareba ko nta kibazo amenyo ye yaba afite inyuma yabo kandi hari icyapa kiriho umuryango ikindi kiriho amagambo agaragaza ibibera muri icyo cyumba.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, kiberamo ubuvuzi bw'amenyo, abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, bari kwita ku murwayi bareba ikibazo amenyo ye yaba afite, bakoresheje ibikoresho byabugenewe.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, harimo ibikoresho by'ubwoko butandukanye byifashishwa mu gusuzuma umurwayi, harimo intebe umuganga yicaraho ari gusuzuma umurwayi hakabamo kandi n'igitanda umurwayi aryamaho iyo ari kwitabwaho n'umuganga.

Umukobwa ukiri muto ufite imisatsi miremire kandi wambaye umwenda w'umweru, afite agakoresho kifashishwa bari gusukura amenyo kugira ngo bakuremo imyanda iyo ari yo yose ishobora gutera indwara, imbere ye kandi hari ibindi bikoresho byifashishwa mu gukora isuku y'umubiri.

Icyumba kiberamo ubuvuzi bw'amenyo. Harimo umuganga uri kwita ku murwayi amureba mu kanwa, akoresheje akuma kabugenewe. Hakabamo kandi n'ibindi bikoresho byifashishwa muri ubu buvuzi.

Icyumba cyifashishwa mu buvuzi, harimo agatanda umurwayi aryamaho ari guhabwa serivisi, hakaba harimo kandi ibikoresho byifashishwa bari gusuzuma umurwayi, harimo umuganga wambaye imyenda y'akazi wicaye ku gatebe.

Umusore ukiri muto ufite udukoresho mu ntoki ze twifashishwa mu gukura imyanda mu menyo kugira ngo birinde indwara izo arizo zose zishobora kwanduza amenyo biturutse ku mwanda.

Umusore ukiri muto wambaye umupira w'umweru, afite urudodo mu ntoki ze ari kurukoresha akura imyanda iyo ari yo yose yaba yagiye mu menyo kugira ngo yirinde ko ishobora kumutera ibibazo by'indwara zitandukanye.

Ubuvuzi bw'amenyo, aho umuganga wambaye imyenda y'akazi, akaba yambaye agapfukamunwa, ndetse n'agakoresho kamufasha kureba neza, ari gukuramo iryinyo yifashishije akuma kabugenewe.

Umukobwa ukiri muto ufite imisatsi miremire, wambaye umwenda w'umweru. Afite agakoresho kifashishwa bari gukora isuku y'amenyo, kugirango birinde indwara zose zishobora kubaho biturutse ku mwanda.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, aho bari gutanga ubuvuzi bw'amenyo. Harimo abaganga bambaye imyambaro y'akazi, aho bari gusuzuma abaje babagana, bareba ko nta kibazo cy'amenyo bafite.

Icyumba kiberamo ubuvuzi bw'indwara y'amenyo. Harimo umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, uri kwita ku murwayi, amusuzuma amenyo, areba ikibazo yaba afite. Ari kwifashisha udukoresho twabugenewe.

Agakoresho gakoreshwa mu gusukura amenyo kugira ngo hakurwemo imyanda yose yaba yagiyemo, ishobora kuba yateza uburwayi butandukanye, bwatewe n'umwanda uri ku menyo, kari mu bara ry'icyatsi.

Umusore ndetse n'umukobwa bambaye imipira y'umweru. Bafite urudodo mu ntoki zabo aho bari kurukoresha bakura imyanda iyo ari yo yose yaba yagiye mu menyo, ishobora kubatera uburwayi bw'amenyo.

Umusore ukiri muto ufite urudodo mu ntoki ze rwifashishwa mu gukura imyanda mu menyo, kugira ngo birinde indwara iyo ari yo yose, ishobora gufata amenyo biturutse kuri iyo myanda.

Icyumba kiberamo ubuvuzi bw'indwara y'amenyo. Aho abaganga bambaye imyambaro y'akazi, bari kwita ku murwayi, bakoresheje ibikoresho byifashishwa mu gusuzuma ngo hamenyekane indwara umurwayi yaba afite.

Abana b'abanyeshuri bakiri bato bambaye imyenda yo ku ishuri, bose bafite udukombe mu ntoki turimo amazi, ndetse n'agakoresho kifashishwa mu koza amenyo, kugira ngo bakuremo imyanda yose yaba yagiye mu menyo.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, aho umwana muto w'umukobwa ari kwitabwaho n'abaganga, bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe. Bari gukoresha ibikoresho byo kwa muganga basuzuma amenyo ye kugira ngo barebe ko nta kibazo afite.

Umwana ukiri muto wambaye umupira w'umuhondo. Arasamye, imbere ye hari umuntu wambaye ga, afite ibikoresho byifashishwa mu gusuzuma, harebwa niba nta ndwara ziri mu menyo.

Icyumba kiri mu nyubako yabereye inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo: abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa, bamwe barahagaze abandi baricaye bari gufata ifoto y'urwibutso.

Umusore wambaye umupira w'umweru afite urudodo mu ntoki ari kurukoresha akura imyanda mu menyo kugira ngo yirinde indwara zose ashobora kwandura ziturutse kuri iyo myanda yaba yagiye mu menyo.

Icyumba kiberamo ubuvuzi bw'amenyo, aho umuganga wambaye imyambaro y'akazi, ari kwita ku menyo y'umwana ukiri muto, akoresheje agakoresho kabugenewe.

Icyumba kiri mu nyubako iberamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, aho umuganga wambaye imyambaro yabugenewe ari kwita ku murwayi ufite ikibazo cy'amenyo kugira ngo amufashe kumera neza.

Umusore ukiri muto uri kumwe n'umwana w'umuhungu, bose bambaye imipira y'umweru, bafite indodo mu ntoki zabo bari kuzikoresha bakura imyanda iyo ari yo yose yaba yagiye mu menyo kugira ngo birinde indwara zitandukanye.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga ahabera ubuvuzi bw'indwara y'amenyo, harimo umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe ari gusuzuma umwana ukiri muto areba ko nta bibazo by'amenyo yaba afite aho ari kwifashisha ibikoresho byabugenewe.

Icyumba cy'ishuri. Kirimo abana b'abahungu ndetse n'abakobwa, bafite ibikoresho byifashishwa mu gukora isuku y'amenyo kugira ngo birinde indwara zose zishobora gufata amenyo bitewe n'umwanda.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako iberamo ubuvuzi bw'amenyo, harimo ibikoresho by'ubwoko butandukanye, byifashishwa mu gusuzuma ndetse no kuvura ibibazo by'amenyo harimo kandi intebe zicarwaho n'abantu bari gusuzumwa.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako y'ishuri harimo abana bakiri bato bari kumwe na mwarimu wabo bamwe ni abakobwa abandi ni abahungu bose bafite imiti y'amenyo yifashishwa mu gukora isuku y'amenyo kugira ngo birinde indwara zitandukanye.

Umusaza ukuze wambaye ishati y'umutuku, ari kumwe n'umukobwa w'umuganga ukiri muto, ari kumwitaho afite igikoresho cyabugenewe kifashishwa mu gupima bareba uko umuvuduko w'amaraso uhagaze.

Abamama bakuze bambaye imyenda y'amabara atandukanye umweru ndetse n'umuhondo, umwe muri bo afite igikoresho cya terefone bari kugikoresha bafata ifoto.

Mu ruganiriro aho umusaza ndetse n'umukecuru bakuze, bafite impapuro imbere yabo bari kuziganiraho, inyuma yabo kandi hari intebe zicarwaho n'abandi bantu.

Ahateraniye abakecuru bakuze bamwe bicaye hasi abandi bicaye ku ntebe bari kuganira, inyuma yabo hari umurima utewemo insina arizo zivaho ibitoki.

Umusaza ukuze wambaye amataratara ari kumwe N'umusore ukiri muto wambaye ishati y'umweru ndetse n'umukara bari gusoma igitabo imbere yabo harambitse amatase arimo icyayi cyo kunywa.

Umukecuru ukuze ufite imisatsi y'umweru yambaye imyambaro ya siporo yabugenewe, kandi afite udukoresho mu ntoki ze ari kwifashisha akora imyitozo ngororamubiri.

Umusaza ndetse n'umukecuru bicaye mu ntebe, imbere yabo harambitse imiti, bafite telefoni mu ntoki zabo aho bari kuyikoresha bareba uko iyo miti ikoreshwa, iruhande rwabo harambitse amazi ari mu kirahure.

Umusaza ukuze ari kwitabwaho n'umuganga ukiri muto, wambaye imyenda y'akazi. Ari gukoresha igikoresho cyabugenewe cyifashishwa bari gupima umuvuduko w'amaraso, bareba ko nta kibazo umurwayi yaba afite.

Ubuvuzi bukorerwa mu ngo bugahabwa abasaza ndetse n'abakecuru bakuze, umukecuru ari gukora imyitozo ngororamubiri abifashijwemo n'umukobwa ukiri muto umuhagaze imbere.

Mu ruganiriro aho umubyeyi ukuze ufite imisatsi y'umweru ari kuganira n'umukobwa ukiri muto, afite kandi icyuma mu ntoki ze aho ari gukata imbuto zo kurya kugirango arusheho kugira ubuzima bwiza.

Icyumba kirimo abaganga bambaye imyenda y'akazi bari kwita ku bakuze abasaza ndetse n'abakecuru, hari abicaye mu ntebe aho umuganga ari kuganiriza umucecuru, undi muganga kandi ari gutwara umusaza ukuze mu kagare amusunika amujyana aho ashaka.

Umusaza ukuze yicaye mu kagare kifashishwa n'abantu bafite ubumuga butandukanye cyangwa bafite ibibazo mu ngingo. Iruhande rwe hicaye umwana ukiri muto bari gukina imikino y'abana.

Umumama ukuze ari kugendesha amaguru, ayakoresha siporo, yifashishije igikoresho cyabugenewe. Ari kumwe n'umukobwa ukiri muto ufite igikapu mu ntoki ndetse ikindi agihetse mu mugongo.

Umusaza n'umukecuru bicaye mu ruganiriro, bafite imiti yo kunywa imbere yabo, kandi bari gusoma ku rupapuro kugira ngo bamenye neza uko bagomba gufata imiti. Hari amazi kandi arambitse ku meza ari mu kirahure.

Icyumba kirimo umurwayi uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye imyenda yo kwa muganga afite agakoresho mu ntoki gakoreshwa bakora imyitozo yo kugenda, iruhande rwe hari igitanda.

Umusaza ukuze wambaye umupira w'umweru imbere ye hariri kumwitaho wambaye imyenda y'akazi ari kumusukira icyo kunywa akivana mu gacupa agisuka mu kirahure kandi imbere ye hari ibyo kurya.

Icyumba kirimo umusaza n'umukecuru bakuze, bafite imiti mu ntoki zabo bari kuganira uburyo ikoreshwa, imbere yabo harambitse mudasobwa, na ho inyuma yabo hari akabati kabikwamo ibikoresho.

Abantu bingeri zitandukanye, abagabo ndetse n'abagore bahagaze mu murima rwagati uteyemo amasaka, ni ibihingwa byifashishwa mu gukora ifu izakoreshwa mu bikorwa bitandukanye nko gukora ibyo kunywa by'ubwoko bwinshi.

Umusaza ukuze, wambaye ishati y'amabara atandukanye, ndetse n'umupira w'umukara. Afite imisatsi y'umweru, imbere ye hateretse ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, arimo kubyarura.

Icyumba kirimo igitanda harimo inzitiramibu ikoreshwa mu kwirinda umubu utera malariya, umusaza wicaye ku gitanda ukuze ari kwitabwaho n'umukobwa ukiri muto amufasha kumanuka ku gitanda.

Umucecuru ukuze wicaye ku ntebe afite amazi mu ntoki, imbere ye hagaze umuganga wambaye imyenda y'akazi ari kumuha ibinini kugira ngo abinyweshe amazi.

Umubyeyi yicaranye n'umwana we bari gukina imikino y'abana, hari udupapuro turambitse ku meza, ni two bari kuganiraho bose barishimye. Inyuma yaho hari akabati karimo ibindi bikoresho bitandukanye bikoreshwa mu rugo.

Mu ruganiriro aho umusaza ukuze ufite ubwanwa bw'umweruru ari kwitabwaho n'umukobwa ukiri muto amuhereza imiti yo kunywa iruhande rwabo hateretse ikirahure kirimo amazi yo kunywa ndetse na mudasobwa.

Ubuvuzi bukorerwa mu rugo buhabwa abasaza ndetse n'abacecuru, umucecuru yicaye hasi arimo arakora imyitozo ngororamubiri kugira ngo arusheho kumera neza.

Umusaza ukuze ndetse n'umukecuru bicaye imbere y'ameza bafite imiti imbere yabo, bari gusoma urupapuro rubafasha kumenya uko bagomba gufata imiti, imbere yabo harambitse ikirahure kirimo amazi yo kunywa,

Umukobwa ukiri muto wambaye imyenda y'abaganga afite agakoresho mu ijosi kifashishwa mu gupima bareba uko umutima w'umuntu uri gutera, ari gufasha umusaza ukuze wicaye mu kagare gukora imyitozo ngororamubiri.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, aho umusaza ukuze ufite imisatsi y'umweru ari gufashwa guhaguruka ku gitanda abifashijwemo n'umusore ndetse n'umukobwa bamuri iruhande.

Umuntu wicaye mu ntebe, wambaye igikoresho ku kaboko cyifashishwa mu kureba uko umuvuduko we w'amaraso uri gutera, kugira ngo bamenye neza niba nta ndwara z'umutima afite.

Mu cyumba cyo kwa muganga aho abarwayi bitabwaho n'abaganga. Harimo umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, afite igikoresho mu ijosi cyifashishwa mu gupima indwara. Ari kwita ku mukecuru ukuze areba ko nta ndwara yaba afite.

Mu nzira nyabagendwa aho umusaza ukuze ari kumwe n'umusaza ukiri muto ari kumurandata amufasha gutambuka neza, i ruhande rw'iyo nzira hateye ibiti by'amoko menshi atandukanye.

Umusaza ukuze ari kumwe n'umuganga wambaye imyenda yabugenewe ari kumufasha gukora imyitozo ngororamubiri aho ari kugendera ku bikoresho byabugenewe kugira ngo ingingo ze zikore neza.

Umubyeyi ukuze wambaye umupira w'umweru ndetse n'akandi k'icyatsi kibisi, afite ikirahure mu ntoki kirimo amazi yo kunywa akagira n'ibinini byo kunywa mu ntoki. Inyuma ye hari urukarabiro ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu rugo.

Umusaza ndetse n’umukecuru bakuze bicaye hamwe, umwe yambaye umupira w'ubururu undi yambaye umupira w’umweru, bari gusoma urupapuro rwifashishwa mu kureba ukw’imiti runaka ikoreshwa.

Umusaza ukuze wambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, yambaye ekuteri mu matwi, afite udukoresho twabugenewe twifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Umugabo ukuze uri gukora imyitozo ngororamubiri, ari kwitabwaho n'umuganga wambaye imyambaro y'akazi, ufite igikoresho mu ijosi rye cyifashishwa mu kureba uko umutima w'umuntu uri gutera.

Umumama ukuze wicaye mu kagare kicarwamo n'abafite ubumuga, ari kwitabwaho n'umuganga wambaye imyambaro y'akazi, ari kumupima akoresheje igikoresho cyabugenewe, kugira ngo amenye neza uko umuvuduko we w'amaraso uhagaze.

Umusaza ukuze ari gukora siporo zo kurambura amaguru yifashishije agakoresho kabugenewe, ari kubifashwamo n'umuganga w'umukobwa ukiri muto wambaye imyambaro y'akazi.

Umusaza ukuze ufite ubwanwa bw'umweru, afite ikirahure mu ntoki ze kirimo amazi yo kunywa, iruhande rwe hari umuganga wambaye imyambaro y'akazi uri kumuha imiti kugira ngo anyweshe amazi.

Ahabereye igikorwa cyo gukingira indwara, cyitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye aho umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe ari gukingira umurwayi akoresheje urushinge.

Serivisi z'ubuvuzi aho umukobwa ukiri muto ari gupima umugore umwicaye imbere uko umuvuduko w'amaraso we uhagaze yifashishije igikoresho cyabugenewe. Inyuma yabo kandi hakaba hahagaze abandi bantu baje muri icyo gikorwa.

Ahabereye inama yitabiriwe n'ingeri zitandukanye harimo abagabo, abagore, abakobwa ndetse n'abasore. Inyuma yabo hari icyapa kigaragaza ibyaranze iyo nama, bose barahagaze bari gufata ifoto.

Umunsi wahariwe ubukangurambaga bwo kurwanya icyorezo cya SIDA. Abantu benshi bicaye mu ruganiriro, aho imbere yabo, hari itorero riri kubabyinira. Imbere yabo kandi hari icyapa cyanditseho ibiranga uwo munsi.

Ahabereye igikorwa cyo kuvura indwara zo mu kanwa, ni igikorwa cyitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, aho baje kugira ngo babasuzume indwara izo arizo zose baba bafite kiri gukorwa n'abaganga bambaye imyambaro y'akazi, bambaye udupfukamunwa, ndetse bipfutse mu mutwe.

Mu kibuga aho abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe bafatanyije n'abandi bambaye amajire, bari kwita ku murwayi uryamye hasi kugira ngo bamukorere ubutabazi bw'ibanze.

Icyumba cyabereyemo inama y'ubukangurambaga bw'ubuzima yitabiriwe n'abantu batandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore inama iyobowe n'abagabo bicaye bareba abitabiriye inama imbere yabo hari icyapa kiri kugaragaza ibiri kuranga uwo munsi.

Icyumba kirimo abitabiriye igikorwa cy'ubukangurambaga ku buzima. Ni abakobwa bakiri bato bambaye imipira y'imyeru kandi isa, bakaba bafite udukarito mu ntoki bari kwifotorezamo.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye harimo: abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe bose kandi bambaye udupfukamunwa bari kwita ku murwayi bakoresheje ibikoresho byabugenewe.

Umunsi wahariwe kurwanya kanseri y'ibere. Ni igikorwa cyitabiriwe n'abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa, bose bambaye imipira y'umweru. Bafite ibyapa imbere yabo bigaragaza insanganyamatsiko y'u munsi.

Ni umunsi wahariwe isuku abayobozi barahagaze bose bambaye udupfukamunwa, bafite udukapu mu ntoki turimo ibikoresho by'isuku ibindi birambitse ku meza, abo baje kubiha baricaye babahanze amaso bose.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara ndetse n'ishati y'umweru, ari kumwe n'abihayimana bambaye imyenda yabo, bari mu cyumba cyabereyemo inama, imbere yabo hari icyapa kinini kigaragaza ibyaranze iyo nama.

Icyumweru cyahariwe kurwanya indwara ya Diyabete, ni indwara ifata abakuze cyangwa se ababato, mu gihe bagize isukari nyinshi cyangwa nkeya ugereranyije n'iy'umubiri ukeneye.

Ahabereye inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore bakuze bahagaze hamwe bari gufata ifoto y'urwibutso, inyuma yabo kandi hari icyapa kiriho ibirangantego.

Ubukangurambaga bwo kurya indyo yuzuye irimo ibyiganjemo intungamubiri ibyiganjemo ibyubaka umubiri ndetse n'birinda indwara. Ni ibiryo by'amoko menshi atandukanye aho bari gushishikariza abantu kujya babirya kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abagore ndetse n'abakobwa bamwe muri bo bambaye imipira y'umukara abandi bambaye imipira y'umweru imbere yabo harambitse ameza.

Icyumba cy'ino nyubako yabereye inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye abagore ndetse n'abagabo, imbere yabo hicaye abayobozi bayoboye inama aho inyuma yabo hari icyapa kinini cyane kiri kugaragaza ibiri kuranga inama.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abagore ndetse n'abakobwa, bose bambaye imipira isa y'umweru, imbere yabo hahagaze uyoboye inama, ari kubereka ifoto.

Icyumba kiberamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye harimo abaganga bambaye imyambaro y'akazi, bambaye udupfukamunwa kandi bipfutse imitwe. Bari kuvura umurwayi, inyuma yabo hari mudasobwa zigaragaza amafoto y'umurwayi.

Ahabereye igikorwa cyo kurwanya SIDA, kitabiriwe n'ingeri zitandukanye: abagabo, abagore, abana b'abakobwa ndetse n'abahungu, bafite icyapa imbere yabo kiriho insanganyamatsiko y'umunsi ivuga uko bagomba kurwanya sida.

Icyumba kiri munyubako yabereyemo inama harimo umugore ukuze wicaye muntebe afite indangururamajwi ndetse yambaye ikarita imuranga mu ijosi rye afite n'ikaye mu ntoki ari gukoresha inama.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abagabo ndetse n'abagore bose baricaye, imbere yabo hicaye abayoboye inama kandi hari icyapa kinini cyane cyanditseho intego y'inama.

Hanze y'inyubako itangirwamo serivisi zo kwita ku bagore hari icyapa kiharanga kandi hicaye abagore harimo abato ndetse n'abakuru bicaye bategereje muganga wabo kugira ngo abiteho.

Umumama wicaye ku ntebe ari kwitabwaho n'umuganga umuhagaze iruhande wambaye umwenda w'abaganga ndetse akaba yambaye n'agapfukamunwa, ari kumutera urushinge kugira ngo abashe kumurinda indwara zitandukanye.

Hanze y'amarembo y'ikigo nderabuzima cya Kigina, hari icyapa kinini cyane kiyobora abaje bahagana. Ku marembo kandi hari umubyeyi ufite umwana mu mugongo uje kwivuza.

Hanze y'inyubako iberamo ubuvuzi hari abantu b'ingeri zitandukanye abagabo ndetse n'abagore abakuze n'abakiri bato bose baje kwivuza iruhande rwabo kandi hari imodoka y'umukara.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako iberamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo imashini z'ubwoko butandukanye bwifashishwa mu kuvura indwara z'amoko menshi, hakabamo n'agatanda umurwayi ashobora kuryamaho mu gihe bari kumusuzuma.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako iberamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo ibikoresho byinshi byifashishwa mu kuvura ndetse no mu gusuzuma indwara z'ubwoko butandukanye, harimo kandi igitanda kiryamyeho umurwayi uri kwitabwaho n'abaganga.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako iberamo ubuvuzi. Harimo igikoresho cyifashishwa mu gusuzuma ndetse no kuvura indwara zitandukanye umurwayi yaba afite. Harimo kandi, amatara ari kwaka kugira ngo babashe kureba neza umurwayi.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe ndetse n'imashini zifashishwa mu gusuzuma abarwayi.

Hanze y'inyubako yo kwa muganga hari urujya n'uruza rw'abantu, abagabo ndetse n'abagore hari ibyapa kandi bigaragaza serivisi zitangwa no kwa muganga hari umugabo wambaye imyenda y'akazi arimo arareba abinjira ndetse n'abasohoka.

Icyumba kiri mu nyubako iberamo inama cyangwa se ibindi bikorwa bitandukanye, harimo intebe aho abaje muri icyo cyumba bicara, imbere kandi harambitse ameza, aho umuntu uyoboye inama cyangwa se ikindi gikorwa aba yicaye.

Inyubako iberamo imyitozo ngororamubiri harimo ibikoresho by'ubwoko bwinshi bitandukanye byifashishwa n'abagannye iyo nyubako bari gukora iyo myitozo kugirango ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Ku marembo y'inyubako y'ibitaro bya Nyarugenge, ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Hari icyapa kinini cyane, kiyobora abaje bagana kuri ibyo bitaro, hanze y'inyubako kandi hateye indabo, z'ubwoko bwinshi.

Hanze y'inyubako y'ikigo nderabuzima cya Tabagwe hari icyapa kinini kiri kuranga iyo nyubako; hari abantu abato ndetse n'abakuru bari kuza kwivuza iruhande rwayo kandi hateye ibiti.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga harimo ibitanda abarwayi baryamaho iyo bari kwitabwaho n'abaganga, harimo kandi akamashini kifashishwa mu kureba uko ubuzima bw'umurwayi buhagaze.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga. Harimo ibikoresho nk'imashini zifashishwa bari gusuzuma, kugira ngo bamenye ikibazo cyangwa uburwayi uwaje abagana yaba afite. Harimo kandi intebe abarwayi bicaraho iyo bari gusuzumwa.

Hanze y'inyubako iberamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Hari indabo zihateye zifite amabara atandukanye, hari ibyuma kandi bifite amabara y'ubururu ndetse n'icyatsi kibisi, bikoreshwa n'abana baba baje kwivuza kugirango bumve umunyenga.

Abagabo babiri bari mu nyubako iberamo ubuvuzi, umwe ari gupima mugenzi we uko umuvuduko w'amaraso uhagaze yifashishije agakoresho kabugenewe, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho irembo hakaba n'ibikoresho byifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi nk'imashini zikoreshwa mu kubika neza ibikoresho bikoreshwa kwa muganga, harimo umuganga wambaye imyambaro y'akazi, ndetse n'ameza, ku ruhande ateretseho ibikoresho.

Inyubako y'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, hanze yayo hari abantu baje gufata serivisi zihatangirwa, hanze yaho kandi hari amajaride ateyemo ibiti by'ubwoko bwinshi kandi butandukanye.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga harimo igikoresho kinini gikoreshwa n'abaganga bari gusuzuma umurwayi kugira ngo bamenye neza indwara yaba afite barebe n'uburyo bashobora kuyivura.

Hanze y'inyubako ibera mu buvuzi, hari icyapa kigaragaza serivisi iyo nyubako itanga, hari imodoka iri gusohoka ndetse iruhande rwayo hicaye umuntu ushinzwe kureba abinjira ndetse n'abasohoka.

Hanze y'inyubako iberamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Hanze y'iyo nyubako hateye ibyatsi bizwi nka pasiparumu, muri ibyo byatsi hashinzemo indarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda, hari imodoka kandi ndetse na moto iparitse hanze.

Icyumba kiri mu nyubako iberamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Harimo umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, afite mudasobwa imbere ye niyo ari kwifashisha akora akazi k'ubuvuzi.

Ahabereye igikorwa cyo gukingira indwara zitandukanye, umurwayi yicaye mu ntebe akingirwa n'umuganga wambaye imyenda y'akazi ndetse akaba afite ikarita imuranga.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, harimo imashini z'ubwoko butandukanye, zifashishwa mu kureba ibizami byafashwe mu barwayi kugira ngo hamenyekane indwara baba bafite.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako iberamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo ibikoresho by'ubwoko bwinshi bwifashishwa mu gusuzuma ndetse no kuvura indwara zishobora gufata abantu.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako ibera mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo ibitanda bikoreshwa n'abarwayi babiryamaho kugira ngo babashe kwitabwaho n'abaganga, baruhutse bameze neza.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga kirimo ibikoresho byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo umubiri w'umuntu urusheho gukora neza, ku gikuta kandi muri iyo nyubako hamanitse isaha.

Icyumba kiri mu nyubako y'ubuvuzi harimo ibikoresho by'ubwoko butandukanye byifashishwa mu gusuzuma ndetse no kuvura indwara, harimo kandi ibitanda abarwayi baryamaho bari kwitabwaho n'abaganga.

Hanze y'inyubako iberamo ubucuruzi k'imiti, hari icyapa kinini kigaragaza serivisi zitangirwa muri iyo nyubako kandi imbere yayo haparitse imodoka.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, harimo igitanda kiryamyeho umurwayi w'umumama ari kwitabwaho n'umuganga wambaye imyambaro y'akazi, kugira ngo arebe uko ameze.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga. Harimo ibikoresho byifashishwa mu gusuzuma, ibyifashishwa mu gutanga ifoto, bareba uko umurwayi ameze, ndetse n'ibitanda abarwayi baryamaho bari kwitabwaho n'abaganga.

Hanze inyubako itangirwamo ibizamini. Hejuru yayo hari icyapa kiranga abaje kwivuza, hanze yayo kandi hicaye abarwayi bategereje gutanga ibizami, hanze yinyubako hateye indabo zifite amabara y'icyatsi kibisi ndetse n'umuhondo.

Hanze y'inyubako iberamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, hari ibyapa biyobora abaje bagana ibyo bitaro. Hari abarwayi kandi baje kwivuza, iruhande rw'inyubako hari ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Icyumba kiri mu nyubako yabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye abagabo, abagore ndetse n'abasore bakiri bato. Inama iyobowe n'abicaye imbere aho imbere yabo harambitse amacupa y'amazi.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako y'ubuvuzi harimo ibikoresho by'ubwoko butandukanye nk'imashini zifashishwa mu gusuzuma abarwayi bareba ikibazo baba bafite.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga harimo abaganga bambaye imyambaro y'akazi kandi bari kwita ku barwayi, harimo kandi ibikoresho byifashishwa mu gusuzumwa bareba ikibazo umurwayi yaba afite.

Kimwe mu cyumba kirimo inyubako iberamo ubuvuzi, harimo umuganga ukiri muto wambaye imyenda y'akazi ndetse yipfutse mu mutwe afite akana kakiri gato kamaze kuvuka.

Hanze y'inyubako iberamo ubucuruzi bw'imiti, hejuru ku gikuta hamanitse icyapa kigaragaza ko bacuruza imiti, hanze yayo kandi hari abantu baje babagana.

Hanze y'inyubako y'ibitaro bya Butaro bivura indwara ya kanseri, hari abayobozi babyo bahagaze hanze hagati muri bo hari icyapa kigaragaza serivisi zitangwa n'ibi bitaro, bahagaze hamwe bari gufata ifoto.

Umubyeyi uteruye umwana w'uruhinja, mu ntoki. Iruhande rwe hari umuganga wambaye imyambaro y'akazi, ari kumusuzuma areba uburwayi umwana yaba afite.

Inyubako y'ikigo nderabuzima cya Kabutare, imbere yayo hahagaze abantu, bose bahagaze bagiye basize umwanya hagati y'umwe n'undi, bose bambaye udupfukamunwa bamwe nabagabo abandi ni abagore.

Icyumba kiri mu nyubako iberamo ubuvuzi, aho umuganga wambaye imyambaro y'akazi ari kwita ku mwana ukiri muto, amusuzuma areba uburwayi yaba afite.

Hanze y'inyubako iberamo ubuvuzi bw'indwara y'amaso, hejuru kuri iyo nyubako hari icyapa kinini cyane kiranga abaje bayigana, kibereka ko habera ubuvuzi bw'indwara y'amaso.

Icyumba kiri mu nyubako yabereyemo inama yitabiriwe n'ingeri zitandukanye harimo abagabo, abagore, abakobwa, ndetse n'abasore. Imbere yabo hari abagabo bari kubakoresha inama.

Hanze y'inyubako y'ubuvuzi bwa kanseri hejuru yayo hari icyapa kigaragaza ko bavura kanseri, iruhande rwayo hateye ibiti ndetse imbere yaho hose hateye indabo z'ubwoko butandukanye.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi bwo kwita ku babyeyi batwite cyangwa abafite abana bakiri bato, imbere yayo hari abantu bamwe ni abagabo abandi ni abagore, bamwe baricaye abandi barahagaze, bari gufata ifoto.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako zo kwa muganga. Harimo igitanda abarwayi baryamaho, iruhande rwacyo hari imashini yifashishwa mu kureba uko ubuzima bw'umurwayi bumeze. Hejuru yaho hari ishusho imeze nk'ifoto.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako iberamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Harimo ibitanda bikoreshwa n'abarwayi baje guhabwa ubuvuzi hakabamo n'ibindi bikoresho byifashishwa n'abaganga cyangwa n'abarwayi bari muri icyo cyumba.

Kimwe mu cyumba kiriri mu nyubako iberamo ubuvuzi harimo mudasobwa ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa, hari gutangwa serivisi z'ubuvuzi, hari ibyapa kandi bigiye byanditse ku madirisha kugira ngo bibashe kwerekana ndetse no kuyobora abaje babagana.

Hanze y'inyubako yo kwa muganga, hari icyapa cyanditseho serivisi zitangwa no kwa muganga, hari intebe kandi abaje kwivuza bicaraho bategereje ko babakira.

Icyumba kiri mu nyubako iberamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo utubati tugiye dupanzeho imiti y'ubwoko butandukanye, yifashishwa mu kuvura indwara z'abato ndetse n'iz'abakuru.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, ahari ibikoresho by'ubwoko butandukanye byifashishwa mu buvuzi: nk'intebe abaganga bicaraho, ameza barambikaho ibikoresho, ibitanda abarwayi baryamaho, puberi zo gutama imyanda ndetse n'ibindi bitandukanye.

Icyumba kiri mu nyubako kwa muganga, harimo imashini z'ubwoko butandukanye zifashishwa mu gutanga ibisubizo by'ibizamini biba byafashwe mu barwayi kugira ngo barebe ikibazo bafite.

Icyumba kiri mu nyubako iberamo ubuvuzi, harimo igikoresho cyifashishwa mu buvuzi gitanga ifoto yerekana mu mubiri w'umuntu bashaka kureba indwara yaba afite kugira ngo babone uko bamuvura.

Hanze y'inyubako y'ibitaro bya nyarugenge hari icyapa kinini kiranga ibyo bitaro. Iruhande rwacyo hari abaganga bambaye imyenda y'akazi hari kandi ibiti bihateye kugira ngo bibashe kuzana umwuka mwiza.

Hanze y'inyubako y'ababyeyi, hahagaze abaganga b'abagore bane, bambaye imyenda y'abaganga, bose kandi bambaye udupfukamunwa tubafasha kwirinda kwandura indwara zitandukanye.

Inyubako y'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, hari icyapa kigaragaza aho muganga w'abana akorera kugira ngo kibashe kuyobora abaje bose bamugana, harimo kandi intebe zo kwicaraho aho abarwayi bicara bategereje.

Hanze y'inyubako iberamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Hari abaturage baje kwivuza, harimo abagabo ndetse n'abagore. Bicaye hanze ni ho bategerereje kugira ngo babashe kwakirwa. Hanze y'iyo nyubako kandi hateye indabo z'ubwoko butandukanye.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako iberamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo ibikoresho byifashishwa mu gusuzuma indwara nk'imashini, hari ameza kandi ariho ibitambaro by'ubururu ndetse n'icyatsi kibisi.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako iberamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo intebe zo kwicaraho, ameza barambikaho ibikoresho ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa mu isuzuma.

Inyubako iberamo ubucuruzi bw'imiti ikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye, harimo utubati dufite amabara y'icyatsi kibisi ndetse n'umweru kandi hariho ikirango cy'iyo nyubako, hejuru y'akabati harambitse mudasobwa ikoreshwa mu kwakira abakiriya, imbere y'akabati kandi harambitse intebe abaje babagana bicaraho.

Inyubako y'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, imbere yayo haparitse imodoka ifite ibara ry'umukara, iruhande rwayo kandi hari ibyapa bigaragaza ko ari inyubako y'ubuvuzi.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, aho umusore wambaye imyambaro y'akazi, afite mudasobwa imbere ye ari kureba amafoto y'umurwayi, areba neza ikibazo umurwayi yaba afite.

Inyubako y'ibitaro bya Rwamagana hejuru yayo hariho icyapa kigaragaza ko hari ibitaro imbere yayo hahagaze abantu harimo abagabo ndetse n'abagore bahanze amaso imbere bose bari gufata ifoto.

Inyubako y'ikigo nderabuzima cya Rukoma iruhande rwayo hari ibigega bijyamo amazi yifashishwa mu gukora imirimo itandukanye, kuri iyo nyubako kandi hariho kizimyamwoto yifashishwa mu gukumira inkongi y'umuriro.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, harimo umusaza ukuze wicaye mu ntebe uri kwitabwaho n'umuganga wambaye imyambaro y'akazi. Afite igikoresho cyabugenewe gikoreshwa bareba uko umuvuduko w'amaraso uhagaze.

Mu cyumba cyo kwa muganga ahari ibikoresho by'ubwoko butandukanye byifashishwa mu buvuzi, harimo igitanda umurwayi aryamaho ari kwitabwaho n'abaganga, harimo kandi umuganga wambaye imyambaro y'akazi wicaye mu ntebe.

Ni icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga harimo ibitanda abarwayi baje babagana baryama igitanda kimwe kiryamyeho umumama ukuze ikindi kiryamyeho umumama ukiri muto uri kwitabwaho na muganga kugira arebe uko ubuzima bwe buhagaze neza.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo agatanda umurwayi aryamaho iyo ari gusuzumwa, hakabamo kandi imashini nini cyane y'umweru yifashishwa mu gutanga ifoto igaragaza uko ubuzima bw'umurwayi buhagaze.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako iberamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Harimo ibikoresho byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo ingingo z'umuntu zirusheho gukora neza.

Inyubako y'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye hanze yayo hari icyapa kigaragaza ko ari iyo nyubako, imbere yaho kandi hari indabo zihateye kugira ngo zibashe kuzana umwuka mwiza.

Hanze y'inyubako y'ibitaro bya Gihundwe aho bavurira amaso, hari ibyapa biyobora abaje kwivuza kugira ngo batayoba, hanze y'inyubako kandi hateye indabo zifite amabara y'umuhondo.

Inyubako iberamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye ifite imiryango myinshi aho kuri buri muryango hagiye hari icyapa kigaragaza serivisi itangirwa muri icyo cyumba kugira ngo bibashe gufasha umurwayi kumenya aho agomba kwinjira.

Ku marembo y'inyubako itanga ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, hari icyapa kinini cyanditseho amagambo kigaragaza serivisi zitangwa n'ibi bitaro, hanze y'inyubako kandi hateye indabo zifite amabara y'icyatsi kibisi ndetse n'amabara umuhondo.

Icyumba kirimo iinyubako yo kwa muganga ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo igitanda kiriho ishuka y'umweru, aho umurwayi aryama ari kwitabwaho n'abaganga, harimo kandi imashini zifashishwa mu gusuzuma umurwayi, bareba ikibazo yaba afite.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, aho umukobwa w'umuganga ukiri muto ari kwita ku murwayi uryamye ku gitanda cy'abarwayi kugirango arebe uko ubuzima bwe buhagaze. Muri icyo cyumba kandi harimo ibikoresho byifashishwa mu gusuzuma indwara umurwayi yaba afite.

Hanze y'inyubako iberamo ubucuruzi bw'imiti, hari icyapa kinini kiyobora abaje babagana imbere yin inyubako kandi harimo z'ubwoko butandukanye, iruhande rw'inyubako hari indabo zigiye ziteretse mu mavase ku gikuta hari igikoresho cyifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro.

Hanze y'inyubako iberamo ubuvuzi hari inzira abarwayi bacamo bari kugana ku nyubako, hagati yazo hagiye hateyemo indabo z'ubwoko bwinshi butandukanye zizana umwuka mwiza.

Icyumba kiri mu nyubako iberamo ubuvuzi, harimo igikoresho cy'imashini cyifashishwa mu gutanga ibisubizo by'ibizami biba byafashwe mu barwayi, harimo kandi abaganga bambaye imyenda yabugenewe.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, harimo ibitanda abarwayi baryamaho bari kuruhuka, hari kandi inzitiramibu zikoreshwa n'abarwayi kugira ngo babashe kwirinda indwara ya malariya.

Kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi, hari intebe abaje kwivuza bicaramo, bategereje ko babakira, hateretse ameza arambitseho mudasobwa, ikoreshwa bari kwakira abantu.

Hanze y'inyubako y'ibitaro bya Rwamagana hari abayobozi ndetse n'abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, bahagaze hanze y'inyubako yabereyemo inama bari gufata ifoto bahagaze hamwe.

Mu cyumba cy'inyubako yo kwa muganga, hari abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, hari ibikoresho kandi byifashishwa mu buvuzi bavura ndetse basuzuma indwara.

Hanze y'inyubako y'ibitaro hari abaganga, abakobwa ndetse n'abagore bambaye imyambaro y'akazi, bose bambaye udupfukamunwa kugira ngo babashe kwirinda indwara zandurira mu mwuka.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, harimo igikoresho cyifashishwa mu kureba nk'imbere mu mubiri w'umuntu, bareba indwara yaba afite, ku gikuta kandi hamanitse isaha.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga harimo imashini z'ubwoko butandukanye zifashishwa mu gusuzuma bareba ikibazo umurwayi yaba afite. Izo mashini kandi zicometse ku mashanyarazi.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako y'ubuvuzi harimo ibikoresho by'ubwoko butandukanye ibyifashishwa, mu gusuzuma, ibyifashishwa mu kuvura indwara, ibyo kwicaraho ndetse n'agatanda ko kuryama.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye nk'utubati, urukarabiro, akadobo ko gutamo imyanda, agatanda gato ko kuryamaho, ku gikuta hari amadirishya, hejuru itara riri kwaka.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga harimo abaganga bambaye imyambaro y'akazi, bateruye umwana ukiri muto mu ntoki zabo, inyuma yabo kandi hari ibikoresho byifashishwa mu buvuzi.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo igitanda abarwayi baryamaho iyo bari kwitabwaho n'abaganga, harimo kandi imashini zifashishwa mu gusuzuma abarwayi ndetse na mudasobwa bakoresha.

Icyumba kiri mu nyubako iberamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kuvura ndetse no gusuzuma uburwayi ubwo aribwo bwose umurwayi yaba afite harimo kandi udutanda abarwayi baryamaho kugira ngo babashe kubasuzuma.

Hanze y'inyubako y'inzu y'ababyeyi, hari amagambo yanditse hejuru ayobora abaje bahagana, hanze yayo kandi hateye indabo zifite amabara y'umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye harimo abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe bari kwita ku barwayi harimo kandi umumama wicaye mu kagare uri kwitabwaho na muganga.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako iberamo ubuvuzi, harimo agatanda karyamyeho umurwayi akaba aryamye areba hejuru iruhande rwe hari umuganga wambaye imyenda y'akazi ari kumufata amaraso kugira ngo yifashishwe mu kureba indwara umurwayi yaba afite.

Inyubako iberamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye aho abaje kwivuza bicaye mu ntebe zabugenewe bategerereje kugira ngo babashe kwitabwaho n'abaganga.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako iberamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo ibikoresho by'ubwoko bwinshi byifashishwa mu gusuzuma bareba uko ubuzima bw'umurwayi buhagaze.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, ahari igikoresho kirekire cyifashishwa mu gufata ifoto y'umurwayi mu mubiri we kugira ngo cyerekane uburwayi yaba afite bityo abaganga babashe kumwitaho.

Icyumba kiri mu nyubako iberamo ubuvuzi, harimo igikoresho kinini cyifashishwa mu kuvura ndetse no gusuzuma indwara umurwayi yaba afite, harimo kandi akabati gakoreshwa kabikwamo ibikoresho.

Hanze y'inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi z'indwara zitandukanye. Hari icyapa kigaragaza serivisi zitangwa muri ibi bitaro, hari kandi ibiti ndetse n'indabo biteye bizana umwuka mwiza muri iki kirere.

Hanze y'inyubako iberamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, hateye indabo z'amoko menshi zifashishwa mu kuzana umwuka mwiza muri icyo kirere, hanze y'inyubako kandi hari umwana muto wicaye mu kagare gakoreshwa n'abafite ikibazo mu maguru.

Hanze y'inyubako iberamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimu umugabo bicaye mu kagare kicarwamo n'abantu bafite ikibazo cy'amaguru yabo badashobora kugenda neza ari gusunikwa n'umwana ukiri muto wambaye ikote ry'umukara imbere yabo hari umuganga wambaye imyambaro y'akazi.

Hanze y'inyubako y'ubuvuzi, hari uduhanda twinshi tuva kandi tugana kuri iyo nyubako, hagati yatwo hagiye hateyemo ibiti ndetse n'indabo bishinzwe kuzana umwuka mwiza.

Inyubako y'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye ifite imiryango harimo iyinjira ndetse n'isohoka ku bikuta byayo kandi hariho ibyapa byamamaza kandi bikerekana ubuvuzi bukorerwaho ahantu.

Inyubako y'ababyeyi aho ababyeyi batwite ndetse n'ababyeyi babyaye, bakirwa kugira ngo babashe kwitabwaho, iruhande rw'inyubako kandi hateye ibiti bizana umwuka mwiza.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, harimo ibitanda abarwayi baryamyeho bari kugenda bitabwaho n'abaganga bambaye imyambaro y'akazi, harimo n'abantu bari kugenda bakora isuku kugira ngo bakuremo imyanda.

Inyubako iberamo ubuvuzi hari intebe zo kwicaramo aho abarwayi baje babagana bicara bategerereje kugira ngo babashe kwitabwaho, ku gikuta hari igishushanyo kinini cyane cy'ijisho, naho hejuru hari ibipirizo by'umweru ndetse n'ubururu.

Hanze y'inyubako iberamo ubucuruzi bw'imiti, ikoreshwa mu kuvura indwara z'ubwoko butandukanye, zishobora gufata abato ndetse n'abakuru, hanze y'iyo nyubako hari icyapa kinini cyane kiranga abaje bayigana.

Ku marembo y'inyubako iberamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, hari icyapa kinini kiri mu ibara ry'umweru, cyanditseho amagambo yerekana serivisi zitangwa muri iyo nyubako. Hakurya y'umuhanda kandi hateye ibiti.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo ibikoresho byifashishwa mu gukora ubuvuzi basuzuma abarwayi ndetse n'imashini zifashishwa, harimo kandi imeza barambikaho ibikoresho bikoreshwa mu buvuzi.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako iberamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo ibikoresho byifashishwa mu kuvura indwara, harimo kandi ibitanda byifashishwa n'abarwayi kugira ngo babashe kwitabwaho.

Inyubako y'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye imbere yayo hari abantu harimo abaganga ndetse n'abarwayi muri rusange, iruhande rwayo hari ubusitani bw'iyo nyubako.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako y'ubuvuzi harimo ibikoresho bitandukanye, bikoreshwa mu buvuzi hakaba harimo kandi abaganga bambaye imyenda y'akazi, imbere yabo hateretse impapuro z'isuku ndetse n'icupa.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako iberamo ubuvuzi, harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, hari nkutugare twifashishwa ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye ibyo kuryamaho, ibipirizo ndetse n'ibindi bitandukanye.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri yambaye imyenda ndetse n'inkweto byabugenewe, ari gukora imyitozo yo guhina ndetse arambura akaguru ke kugira ngo kagororoke neza.

Ibikoresho byifashishwa n'abakunda gukora imyitozo ngororamubiri iruhande rwabyo hari imbuto zirimo; urunyanya, igitunguru, imizabibu, ubunyobwa ndetse n'izindi zitandukanye bakunda kurya kugira ngo zibongerere imbaraga ndetse n'isukari mu mubiri wabo.

Igikoresho cyifashishwa n'abaganga mu gusuzuma uburwayi ubwo ari bwo bwose umurwayi yaba afite mu mubiri we, no kureba uko bwavurwa kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Mu cyumba cyo kwa muganga ahabereye inama yahuje abaganga bambaye imyenda y'akazi ndetse n'abayobozi babo, bambaye udupfukamunwa iruhande rwabo harambitse mudasobwa.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri. Yambaye umwambaro wa siporo wabugenewe, aho arambuye akaboko ke kamwe, akandi agahinnye, ari kuyarambura ayahina kugira ngo arusheho gukora neza.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, kirimo igikoresho cyifashishwa mu gutanga ifoto y'umurwayi kugira ngo barebe uko mu mubiri we hameze, babashe gufata umwanzuro w'uburyo bagomba kumuvura.

Kimwe mu cyumba cyo kwa muganga, kirimo igikoresho kinini cy'umweru cyifashishwa mu gusuzuma umurwayi bareba indwara yaba afite, gitanga ifoto ikoreshwa mu kureba ubuvuzi bugomba kugenerwa umurwayi.

Umusore ukiri muto wambaye umupira w'ubururu yambaye isaha ku kaboko, afite icupa mu ntoki ririmo amazi yo kunywa, niryo ari gukoresha anywa amazi.

Umukobwa ukiri muto wambaye umupira w'umutuku, afite ekuteri mu matwi kandi afite imisatsi miremire, ari kunywa amazi akoresheje agacupa kabugenewe.

Icyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, harimo udutanda twifashishwa mu gukora iyo myitozo, aho turyamyeho abantu hakaba hari n'abandi babahagaze iruhande bari kubafasha gukora iyo myitozo.

Umuganga wambaye imyenda y'akazi ari gufasha umurwayi gukora imyitozo ngororamubiri aho ari kumufasha guhina ndetse arambura akaguru kugira ngo arebe ko nta kibazo yaba afite mu ivi.

Umukobwa ukiri muto ari gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye ekuteri mu matwi, kandi yambaye agakoresho ku maboko kifashishwa bakora imyitozo ngororamubiri, azamuye amaboko ye kugirango abashe kuyarambura neza.

Icyumba kiberamo imyitozo ngororamubiri. Harimo abagabo babiri, umwe aryamye hasi ku isima naho mugenzi we ari kumufasha gukora imyitozo ahina amaguru ndetse ayazamura.

Amazi meza asukuye yo kunywa bari kuyasuka bayavana mu ijage abikwamo bayashyira mu kirahure aricyo kiraza kwifashishwa bari kuyanywa kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, harimo imashini yifashishwa mu gusuzuma abarwayi kugira ngo bamenye neza ikibazo baba bafite, bityo babashe kubahiriza imiti yo kubavura.

Ibikoresho byifashishwa n'abakunda gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo barebe uko umuvuduko w'amaraso wabo uhagaze cyangwa bamenye niba umutima wabo uri gutera neza, hari umuganga uri gukoresha kimwe muri byo imbere ye hari mudasobwa.

Igikoresho kiifashishwa n'abakunze gukora imyitozo ngororamubiri, aho gikoreshwa bashaka kureba uko umuvuduko w'amaraso wabo uhagaze cyangwa kugira ngo bamenye niba umutima wabo uri gutera neza, bibafashe kumenya uko ubuzima bwabo buhagaze.

Udukarito twifashishwa n'abagiye gukora ubutabazi bw'ibanze, dufite amabara y'umutuku, twandikishijeho amagambo mu nyuguti z'umweru, muri utwo dukarito, haba harimo imiti yifashishwa mu gutabara abakomeretse, cyangwa bagize ibindi bibazo bitandukanye.

Umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri afite icyuma cyabugenewe cyifashishwa n'abakora imyitozo ngororamubiri, yambaye umupira w'umukara ndetse n'ipantaro ya shokora.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga ahakorerwa imyitozo ngororamubiri, harimo umusore uryamye ari gufashwa n'umuganga amufasha gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo amaguru ye arambuke neza.

Kimwe mu cyumba cyo kwa muganga kiberamo ubuvuzi, aho umumama wambaye imyenda y'akazi ari kwita ku mwana ukiri muto yifashishije igikoresho areba ko nta ndwara yaba afite.

Igikoresho cyifashishwa mu buvuzi kigakoreshwa n'abaganga mu kureba uko umutima w'umurwayi uri gutera gafite imitwe ibiri aho umutwe umwe ushyirwa ku mutima w'umurwayi uwundi mutwe ugashyirwa mu matwi y'umuganga.

Umuganga wambaye imyenda y'akazi yabugenewe. Afite igikoresho mu ijosi kifashishwa mu kureba uko umutima w'umuntu uri gutera. Afite kandi ikindi gikoresho mu ntoki gikoreshwa kwa muganga.

Umukobwa wicaye hasi kuri tapi uri gukora imyitozo ngororamubiri, imbere ye harambitse mudasobwa iruhande rwe kandi harambitse utundi dukoresho twifashishwa mu gukora siporo iruhande rwe kandi harambitse icupa ry'amazi.

Icyumba kirimo abaganga bambaye imyenda y'akazi baricaye, umwe muri bo abahagaze imbere ari kubereka igikoresho kibari imbere uko bagikoresha basuzuma indwara.

Umukobwa ukiri muto, uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye imyambaro yabugenewe kandi aryamye hasi ashinze amaboko, iruhande rwe hari amavaze ateyemo indabo z'ubwoko butandukanye.

Umukobwa ndetse n'umuhungu bari gukora imyitozo ngororamubiri, bambaye imyambaro yabugenewe, umwe aricaye undi arahagaze, imbere yabo kandi harambitse ibikapu batwaramo ibikoresho, bakoresha muri siporo.

Umusore wambaye umupira w'imbeho ufite ingofero ari kunywa amazi akoresheje icupa ryabugenewe kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza butarimo indwara.

Umukobwa ukiri muto uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye isengere y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, azamuye amaboko ye mu kirere kugirango abashe kugororoka neza.

Umukobwa ukiri muto wambaye imyenda ya siporo afite isume y'umweru mu ijosi rye kandi ari kunywa amazi yifashishije icupa ryabugenewe kugirango arusheho kugira ubuzima bwiza.

Icyumba kiberamo imyitozo ngororamubiri harimo ibikoresho by'ubwoko butandukanye byifashishwa n'ababa baje gukora iyo myitozo harimo kandi n'utubati abaje gukora siporo babikamo ibikoresho byabo.

Ku kibuga ahabera imyitozo ngororamubiri, hari umusore uryamye hasi ufite ikibazo mu kaguru mugenzi we ari kumufasha guhina ndetse arambura akaguru kugira ngo havemo ibinya. Iruhande rwabo harambitse umupira bakinisha.

Ahari ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, harambitse imbuto z'ubwoko bwinshi imineke, inkeri, imboga ndetse n'ibindi byifashishwa mu kongera isukari mu mubiri w'umuntu.

Icyumba cyo kwa muganga harimo umukobwa wambaye imyambaro y'akazi, ndetse yambaye agapfukamunwa afite igikoresho mu ijosi kifashishwa mu gusuzuma, bareba uko umutima w'umuntu uri gutera, imbere ye kandi hari mudasobwa ndetse n'ibitabo.

Icyumba kiberamo imyitozo ngororamubiri harimo ibikoresho byinshi kandi by'ubwoko butandukanye byifashishwa mu gukora siporo kugira ngo abantu barusheho kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa ndetse n'umusore bari gukora siporo bambaye imyenda ya siporo yabugenewe, bafite amacupa mu ntoki arimo amazi yo kunywa kugira ngo bakomeze gukora siporo neza.

Icyumba kirimo inyubako iberamo ubuvuzi, harimo ibikoresho bitandukanye nk'intebe umurwayi yicaraho, harimo kandi ibikoresho byifashishwa bari gusuzuma, kugira ngo barebe uburwayi uwaje abagana yaba afite.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri. Azamuye amaboko hejuru mu kirere, kugira ngo ayarambure neza. Afite imisatsi miremire, kandi ihambirijwe n'urudodo rw'umutuku.

Umusore ukiri muto uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye ikabutura y'umukara ndetse n'umupira w'umweru, azamuye akaguru ndetse akaboko ke gafashe akaguru kugira ngo bibashe kugororoka neza.

Igikoresho kiri mu nyubako yo kwa muganga, gikoreshwa kugira ngo barebe uko umutima w'umuntu uri gutera, gikunze gukoreshwa n'abakunda gukora, imyitozo ngororamubiri, kugira ngo bamenye uko ubuzima bwabo buhagaze.

Igikoresho kifashishwa n'abantu bafite ikibazo mu ivi ryabo kugira ngo kibafashe gutambuka neza batababara kandi kizabafashe gukira neza hatajemo ubundi burwayi.

Umusore wambaye isengeri y'umukara ari gukora imyitozo ngororamubiri ahina amaboko ye kandi ayarambura kugira ngo arusheho kugororoka neza bityo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa ukiri muto uri gukora imyitozo ngororamubiri yambaye isengeri yabugenewe kandi yambaye ekuteri mumatwi, afite isaha ku kaboko kandi azamuye amaboko ye kugira ngo abashe kugororoka.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga harimo igikoresho kinini cyifashishwa n'abaganga bari gusuzuma umurwayi kugira ngo kibereke ifoto y'umurwayi mu mubiri we, kugira ngo barebe uburyo bashobora kumwitaho.

Icyumba kiri mu nyubako ikorerwamo imyitozo ngororamubiri harimo abasore babiri bari gukora imyitozo ngororamubiri bakoresheje ibikoresho biri muri iyi nyubako harimo kandi n'izindi mashini zifashishwa na baje gukora siporo.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri yambaye imyambaro ya siporo yabugenewe apfukamye hasi akaguru ke kararambuye iruhande rwe harambitse igikoresho kiri kumufasha kumva imiziki.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, aho umuganga wambaye imyambaro y'akazi, ari gufasha umurwayi gukora imyitozo yo kugendesha amaguru, yifashishije igikoresho cyabugenewe, iruhande rwabo hari akandi gakoresho kazana umuyaga mu cyumba.

Umusore ukiri muto wambaye isengeri y'umukara. Yicaye hasi aregamye ari kunywa amazi meza akoresheje icupa ryabugenewe kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Amazi meza yo kunywa, ari gusukwa akurwa mu icupa ryabugenewe ashyirwa mu kirahure agomba kunywerwamo kugira ngo uyanyweye wese arusheho kugira ubuzima bwiza butarimo indwara.

Ahari ibikoresho byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, hari amacupa arimo amazi yo kunywa harambitse kandi imbuto nk'amaronje ndetse n'izindi, byifashishwa mu kongera isukari mu mubiri w'umuntu.

umukobwa ukiri muto, uri gukora imyitozo ngororamubiri, yicaye hasi arambuye amaboko ye, ndetse n'amaguru ye, kugira ngo bigororoke neza, bimufashe kugira ubuzima bwiza.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye umupira w'ubururu afite utwuma bumviramo imiziki mu ijosi, ari kunywa amazi akoresheje icupa ryabugenewe.

Umuhungu ndetse n'umukobwa bari gukora siporo bose bambaye imyambaro ya siporo yabugenewe kandi bafite amacupa mu ntoki zabo bakoresha bari kunywa amazi.

Umukobwa ukiri muto, uri gukora imyitozo ngororamubiri, yicaye hasi ku isima, arambuye akaguru ndetse n'akaboko kugira ngo birusheho kugororoka neza, inyuma ye hari intebe yo kwicaramo.

Umusore wicaye hasi uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye imyenda ya siporo yabugenewe, ndetse n'inkweto zabugenewe, ari kurambura amaboko ndetse n'amaguru, kugira ngo bigororoke neza, inyuma ye hari ibyatsi.

Icyumba kiberamo imyitozo ngororamubiri, harimo umusore ukiri muto uri gukora imyitozo ngororamubiri. Iruhande rwe kandi harimo ibindi bikoresho byifashishwa mu gukora siporo ndetse n'yinindi myitozo.

Aharambitse ibikoresho byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, harambitse kandi icupa ririmo amazi meza yo kunywa, iruhande rwaryo hari imbuto z'ubwoko bwinshi butandukanye zikoreshwa mu kongera isukari mu mubiri.

Umuti ukunda gukoreshwa n'abakora imyitozo ngororamubiri uri mu icupa rirerire ry'umweru kuri iryo cupa hariho icyapa cy'umukara cyanditseho inyuguti zanditse mu ibara ry'umweru.

Umusore wambaye ikabutura, yambaye kandi isaha ku kaboko, arunamye aho amaboko ye ayafatishije mu ivi arimo kwikanda kugira ngo areke kumva ububabare buri guturuka mu ivi.

Umuntu wicaye ku gatanda, yambaye umupira usa oranje, afite agapfuko, ari gupfuka ukuguru kwe ahagize ikibazo kugira ngo hataza kugira indi myanda yinjiramo bikamutera ikindi kibazo cy'uburwayi.

kimwe mu cyumba kiri mu nyubako ibera mu buvuzi bw'indwara zitandukanye harimo agatanda umurwayi aryamaho ari kwitabwaho n'abaganga harimo kandi ibindi bikoresho byifashishwa mu buvuzi ndetse n'amatara aba ari kumurika icyumba kugira ngo bite ku murwayi neza.

Agakoresho karimo imiTi yifashishwa n'abantu bakunze gukora imyitozo ngororamubiri, harimo udupfuko, hakabamo utwambaro two kwambara.

Umusore ukiri muto wambaye umupira w'umukara ari kunywa amazi meza akoresheje icupa ryabugenewe kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza butarimo indwara.

Amazi ni ingenzi cyane cyane mu buzima bw'umuntu kuko umubiri w'umuntu ugizwe n'amazi ku gipimo kiri hagati ya mirongo itandatu ndetse na mirongo irindwi ku ijana amazi bari kuyasuka bakura mu gikoresho abikwamo bayashyira mu kirahure bagomba kunyobwamo

Imiti y'ubwoko butandukanye harimo iyo kunywa, harimo iyo kwisiga, harimo ibikoresho bikunda, gukoreshwa nk'ibipfuko, ga zo kwambara ndetse n'ibindi bitandukanye, ni ibikunze gukoreshwa kandi n'abantu bakunda gukora imyitozongororamubiri.

Icyumba kiberamo imyitozo ngororamubiri. Aho umusore wambaye imyenda ndetse n'inkweto byabugenewe ari guterura ibyuma kugira ngo amaboko ye arusheho gukomera neza. Iruhande rwe kandi hahagaze undi musore uri kumufasha.

Inkoni yifashishwa n'abantu bafite ikibazo mu maguru yabo cyangwa se abakuze, kugira ngo babashe gukora urugendo ruto cyangwa se ururerure, batari kuvunika cyangwa batari kubabara.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, aho umupapa uryamye ku gitanda ari kwitabwaho na muganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe. Amufasha guhina ndetse arambura akaguru kugira ngo kagororoke neza.

Ibikoresho bikoreshwa mu butabazi bw'ibanze, harimo amasizo, ibinini by'ubwoko butandukanye ndetse n'ibindi, aho byifashishwa umuntu yagize ikibazo nk'icyo gukomereka ndetse n'ibindi bitandukanye.

Imiti y'ubwoko butandukanye harimo iyo kunywa, hakabamo iyo kwisiga ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Yose ikaba yifashishwa mu kuvura amavunane yatewe n'imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa wambaye imyambaro ya siporo ndetse n'inkweto za siporo zabugenewe. Yicaye hasi ari gukora imyitozo ngororamubiri, aho arambuye akaguru ke k'iburyo ndetse n'akaboko k'iburyo kugira ngo bigororoke neza.

Icyumba kiberamo imyitozo ngororamubiri, harimo umusore ndetse n'umukobwa bari gukora imyitozo ngororamubiri kandi bambaye imyambaro ya siporo yabugenewe, harimo n'ibindi bikoresho by'ubwoko butandukanye, byifashishwa mu gukora siporo.

Imiti ikunzwe gukoreshwa n'abakunda gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo ibagabanyirize uburibwe, ni imiti iri mu macupa y'umweru maremare, afite umupfundikizo w'umweru.

Ibikoresho byifashishwa n'abakunda gukora imyitozo ngororamubiri. Harimo imiti yo kunywa, hakabamo imiti yo kwisiga, hakabamo udukoresho two kwambara ndetse n'ibindi by'ubwoko butandukanye.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye inkweto zabugenewe n'ikabutura ikoreshwa muri siporo, yambaye isaha ku kaboko ari kurambura akaguru ndetse n'akaboko kugira ngo ibashe kugororoka neza.

Ku kibuga ahari kubera imyitozo ngororamubiri hari umusore uryamye hasi ari gufashwa na mugenzi we umupfukamye iruhande kurambura akaguru kugira ngo arusheho kugakoresha neza, iruhande rwabo harambitse umupira wifashishwa bari gukina.

Inanasi, amaronji, imineke, pome, ndetse n'izindi mbuto z'ubwoko butandukanye, iruhande rwabyo harambitse ibikoresho byifashishwa n'abari gukora siporo, iruhande rwabyo kandi hari imidari ndetse n'ibinini byo kunywa.

Ibikoresho byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri. Iruhande rwabyo harambitse imbuto z'ubwoko butandukanye nk'amaronje, pome, imboga ndetse na ji. Byose birimo isukari igarura iyo umuntu aba yatakaje ari gukora imyitozo.

Abagabo babiri bari mu itsinda ryo gutabara, bambaye imyenda y'akazi, bateruye umusore wagize ikibazo kugira ngo babashe kumuha ubutabazi bw'ibanze, amere neza.

Icyumba kirimo ibikoresho byifashishwa mu buvuzi, harimo ibyifashishwa mu gusuzuma, ibyifashisha babibikaho ibikoresho ndetse n'ibindi, harimo umusore ukiri muto ni we uri kubikoresha.

Imiti ikunzwe gukoreshwa n'abakora imyitozo ngororamubiri kugira ngo ibagabanyirize uburibwe, iri mu macupa maremare y'umweru afite imifuniko y'umweru, inyuma yaho hariho igikaratasi kiri mu ibara rya move.

Icyumba kiri mu nyubako iberamo imyitozo ngororamubiri; harimo umusore uryamye ku gitanda, uri gukora imyitozo ngororamubiri, abifashijwemo n'undi musore umuhagaze iruhande. Muri icyo cyumba kandi, harimo ibindi bikoresho byifashishwa mu gukora siporo.

Icyumba kirimo abantu b'ingeri zitandukanye higanjemo abakiri bato, harimo umuntu baryamishije ku gatanda hasi bamuziritse kugira ngo babashe kumufasha kutababara cyane, hejuru ye hari abantu nabo bari kumufasha gukora imyitozo ngorora mubiri.

Imiti yo kwisiga iri mu mabara atandukanye imiti yo kunywa ibikoresho bitandukanye bikunze gukoreshwa n'abakunda gukora imyitozo ngororamubiri byifashishwa kandi kugira ngo urusheho kugira ubuzima bwiza.

Umusore wambaye imyambaro ya siporo ndetse n'inkweto za siporo byabugenewe, afite isume mu ijosi rye ndetse afite telefoni mu ntoki ze, ari kunywa amazi akoresheje icupa ryabugenewe.

Ibiganza byambaye udukoresho cyangwa utwambaro twifashishwa mu gukora siporo, kugira ngo umuntu ntabashe gucika ibisebe ku ntoki cyangwa kugira ikindi kibazo ku biganza bye.

Umuti uri mu mabara y'umweru, icyatsi kibisi ndetse n'umuhondo, ni umuti wo kwisiga wifashishwa n'abantu bakora imyitozo ngororamubiri kugira ngo barusheho kumera neza nyuma yo gukora iyo myitozo.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo imashini yifashishwa mu kwerekana ifoto y'umurwayi kugira ngo bamenye ikibazo yabafi mu mubiri we, muri iyi mashini haryamyemo umurwayi.

Umusore ukiri muto wambaye umupira w'umweru, afite ekuteri mu matwi kandi yambaye isaha ku kaboko, ari kunywa amazi yifashishije icupa ryabugenewe rikoreshwa mu kunywa amazi.

Ikibuga kiberaho imyitozo ngororamubiri, hariho umugabo uri gukora siporo asutamye kandi azamuye amaboko, imbere ye hahagaze undi mugabo uri kumufasha gukora imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri yambaye ekuteri mu matwi ndetse yambaye imyenda ndetse n'inkweto byabugenewe iruhande rwe harambitse icupa ryifashisha ari kunywa amazi.

Ubuvuzi gakondo bukorwa hifashishijwe ibimera cyangwa ibihingwa by'amoko atandukanye, kugira ngo babashe gukora imiti izavura indwara zitandukanye.

Igihingwa cya tungurusumu gikoreshwa cyane n'abantu bari gukora imiti kugira ngo kizakoreshwe mu kuvura indwara zitandukanye, iki gihingwa kandi gikoreshwa n'abantu bakunda guteka kugira ngo kirusheho kuryoshya ibiryo.

Amavuta yo kwisiga, akozwe mu gihingwa k'igikakarubamba, ni amavuta ari mu icupa rirerire ry'umuhondo, rifite umufuniko w'ikinombe, aya mavuta akoreshwa mu kurinda indwara z'uruhu ndetse no kuzivura.

Igikarito kirimo imiti yo kunywa ikozwe mu gihingwa gifite amabara y'umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi kandi kuri cyo handitseho inyuguti mu ibara ry'umukara, iruhande rw'igikarito harambitse ibinini.

Umuti wo kwisiga cyangwa wo gukaraba, umuntu yivura indwara izo ari zo zose zaba zafashe uruhu, ukozwe mu gikakarubamba kandi, uri mu icupa ry'umuhondo ryanditseho amagambo mu nyuguti z'umukara.

Amavuta yo kwisiga akoze mu gihingwa cy'igikakarubamba, ni amavuta ari mu icupa ry'umweru kandi rirerire kandi hakaba handitseho amagambo yanditse mu nyuguti z'ubururu.

Imiti yo kwisiga mu maso ikozwe mu bihingwa, iri mu macupa y'umweru maremare afite andi mabara rimwe ni icyatsi kibisi, irindi ni oranje, iruhande rwayo hari amafoto y'abantu bagiye bayikoresha.

Ibihingwa by'ubwoko butandukanye, harimo imboga, imbuto ndetse n'ibindi bitandukanye byose byifashishwa, mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye.

Igihingwa cy'igisura cyifashishwa mu gukora imiti ya kinyarwanda, izakoreshwa mu kuvura indwara z'amoko atandukanye, zafata abato cyangwa abakuru, iki gihingwa giteye mu murima.

Imiti y'ubwoko butandukanye ikoreshwa mu buvuzi gakondo aho umumama ayihagaze imbere ari kwakira abaje babagana bashaka kuyigura kugira ngo bayihabwe, inyuma ye kandi hari icyapa kiriho nimero za telefone.

Ibyo kurya harimo ibitoki, imbogarwatsi ndetse n'ibindi bitandukanye bikungahaye ku ntungamubiri, kandi bikifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Ubwoko bw'imboga rwatsi nk'amashu ndetse n'izindi mboga zikungahaye ku ntungamubiri, zikunzwe gukoreshwa n'abantu bashaka kongera intungamubiri kandi zigakoreshwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Ibihingwa by'ubwoko butandukanye harimo umuravumba, igikakarubamba ndetse n'ibindi byifashishwa mu gukora imiti gakondo, izakoreshwa mu kuvura indwara z'ubwoko bwinshi zafata abato cyangwa abakuru.

Umuti wo kwisiga ukoze mu gikakarubamba, bawukoresha bari kwivura indwara zitandukanye ziba zafashe uruhu, iruhande rwayo kandi harambitse ibikarito na byo birimo indi miti y'ubwoko butandukanye.

Umuti w'amenyo ukozwe mu gihingwa cy'igika karubamba, wifashishwa mu gusukura amenyo kugira ngo urinde indwara izo arizo zose zishobora gufata amenyo, bari kuwushyira ku gakoresho kabugenewe gakoreshwa bayasukura.

Icyumba kiberamo ubucuruzi bw'ibyo kunywa by'ubwoko butandukanye, biri mu tubati aho bigiye bipanze hasi ndetse no hejuru, muri iki cyumba kandi harimo igikoresho kibikwamo ibyo kunywa kugira ngo bikomeze gukonja.

Umuti ukozwe mu gihingwa cy'igikakarubamba, ni umuti ukoreshwa bawusiga ku ruhu kugira ngo bakureho indwara zaba zafashe uruhu, uri mu icupa ry'umweru rirerire ryandikishijeho amagambo mu nyuguti z'umukara ndetse n'icyatsi kibisi.

Igihingwa cy'igiti cy'umuravumba, ni igihingwa cyifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye zafashe abantu bato cyangwa abantu bakuru.

Umuti wo kwisiga wakozwe mu gihingwa. Uri mu gacupa k'umweru gafite andi mabara y'icyatsi kibisi, kandi kandikishijeho andi magambo yanditse mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Umuntu ufite urupapuro ruriho ifu y'umuti gakondo, wakozwe mu byatsi, uzakoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye zafata abantu, abato cyangwa abakuru.

Ibihingwa by'ubwoko butandukanye, harimo ibifite amababi maremare, ibindi bikagira amababi magufi byose byifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye.

Ni umurima uhinzemo ibihingwa byifashishwa mu gukora imiti gakondo. Harimo imashini nizo ziri kugenda zibihingira neza, harimo kandi abantu baje kureba uko imashini zikora.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako iberamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Harimo umuganga wambaye imyambaro y'akazi, aho ari gupima ibizami. Iruhande rwe harambitse intebe zo kwicaraho ndetse imbere ye hari imiti yifashishwa mu gupima ibizami.

Ibihingwa by'ubwoko butandukanye harimo ibyifashishwa mu gukora imiti gakondo, bimwe muri byo birambitse mu mavaze, indi irambitse hasi, iruhande rwayo hari icupa ribikwamo imiti yo kunywa.

Ibibabi by'igihingwa cy'umuravumba, ni igihingwa cyifashishwa mu gukora imiti gakondo, izakoreshwa mu kuvura indwara z'ubwoko butandukanye, abantu bashobora kwandura.

Umurima uteyemo ibiti by'ubwoko butandukanye, bifite ibibabi by'amoko menshi bimwe bisa umutuku, ibindi bisa icyatsi kibisi ndetse ibindi bigasa umuhondo.

Imiti iri mu ikarito y'amabara atandukanye umweru ndetse n'umuhondo wijimye, ni imiti yifashishwa mu kongera intungamubiri mu buzima bw'umuntu.

Amavuta yo kwisiga akozwe mu gihingwa cy'igikakarubamba ari mu amacupa maremare ariho iki gihingwa, iruhande rwayo harambitse utundi ducupa duto turimo ibinini byo kunywa bikoze muri iki gihingwa.

Ingemwe z'igihingwa cy'umuravumba, ziteye mu mashashi kandi zirundanyirije ahantu hamwe, hagati yazo harimo umugabo wambaye umupira w'umukara ari kuzitaho, kandi harimo icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo.

Imiti yifashishwa n'abakunze gukora imyitozo ngororamubiri harimo iyo kunywa hakabamo iyo kwisiga igiye ifite amabara atandukanye imwe ifite amabara y'icyatsi kibisi umutuku umweru ndetse n'andi mabara atandukanye.

Inyubako iberamo ubucuruzi bw'imiti gakondo, ikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye, igiye ipanze mu tubati, aho iri mu macupa y'ubwoko butandukanye, muri iyo nyubako kandi harimo umuntu ushinzwe kwakira abaza kuyigura.

Imiti gakondo yo kunywa kugira ngo ivure indwara zitandukanye. Iri mu icupa ry'umweru rirerire rifite n'umupfundikizo w'umweru. Kuri iryo cupa hariho igikaratasi cyandikishijeho amagambo ndetse n'icyapa kigaragaza ko hari imiti y'umwana.

Ikimera cyangwa igihingwa cyifashishwa mu gukora imiti gakondo ikazakoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye, kirateye mu butaka gisasiye urwiri.

Imbuto za tangawizi zifashishwa mu gukora imiti y'ubwoko butandukanye, izakoreshwa mu kuvura indwara nyinshi, izi mbuto kandi zifashishwa mu gukora ibyo kunywa, nk'amaji cyangwa bari guteka.

Imiti y'ubwoko butandukanye, harimo ikozwe mu gikakarubamba, indi ikaba ikoze mu bindi bimera by'ubwoko butandukanye, yose ikaba yifashishwa mu buvuzi gakondo mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye.

Umurima uteyemo ibihingwa byinshi by'amoko atandukanye byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo, harimo umugabo uri kuyisoroma ushaka gukora iyo miti.

Imiti yifashishwa n'abakunda gukora imyitozo ngororamubiri, ni umuti wo kwisiga uri mu icupa ry'umweru, hakaba handitseho n'amagambo yandikishije inyuguti z'icyatsi kibisi, ukaba ukozwe mu gihingwa cy'igikakarubamba.

Imiti gakondo ikozwe mu bihingwa, yifashishwa mu kuvura indwara z'ubwoko butandukanye, iri mu bikarito bifite amabara asa, aho igiye ipanze mu tubati hasi ndetse no hejuru.

Igihingwa k'igikakarubamba ni igihingwa gifite uduhwa ku ruhu rwacyo kandi kikifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu kuvura indwara zose z'ubwoko bwinshi.

Amavuta yo kwisiga akozwe mu gihingwa k'igikakarubamba ari mu macupa afite amabara atandukanye, umweru ndetse n'umuhondo, kuri ayo macupa hariho ifoto y'igikakarubamba, kandi yandikishijeho inyuguti mu mabara y'ikinombe.

Umuti wa kinyarwanda, uri mu icupa rirerire ry'umweru rifite umupfundikizo w'ubururu, hari amagambo yanditse ku icupa akaba yanditse mu ibara ry'ubururu.

Imiti itandukanye, yose yakozwe mu bihingwa by'amoko atandukanye, hari iri mu ducupa tugufi n'iri mu ducupa twenda kuba tureture ndetse n'iri mu bikarito.

Imiti y'ubwoko butandukanye ikozwe mu bihingwa, itenze mu mayetajeri, aho igiye ifite imipfundikizo itandukanye ndetse iri mu macupa afite ibikaratasi bitandukanye.

Imiti gakondo y'ubwoko butandukanye aho iri mu macupa amagufi ndetse n'amaremare kandi ikaba yifashishwa mu kuvura indwara z'ubwoko bwinshi butandukanye zishobora gufata abato cyangwa bakuru.

Ubuki bwakozwe n'inzuki. Buri mu icupa rirerire rifite icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo aho hariho ishusho y'uruyuki. Ubuki kandi bwifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye zishobora gufata abantu.

Ibimera by'amoko atandukanye harimo igikakarubamba, umuyenzi, igisura, umuravumba ndetse n'ibindi bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara nyinshi, harimo iz'uruhu ndetse n'izo mu nda.

Imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, iri mu icupa rigufi rifite ibara ry'umweru ndetse n'umufuniko w'umweru, rifite igipapuro cyandikishijeho inyuguti mu ibara ry'umukara ndetse n'izindi mu ibara rya move.

Umuti wa kinyarwanda wifashishwa mu kuvura amibe, uri mu icupa ry'umweru rifite umuvuniko w'umweru hariho kandi igikaratasi kigaragaza icyo uwo muti uvura.

Amavuta akozwe mu gihingwa k'igikakarubamba, akoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye zaba zafashe uruhu, ari mu icupa rigufi ry'umweru, iruhande rwaryo hari ikibabi k'igikakarubamba.

Umuti wo kunywa ukozwe mu gihingwa cy'igikakarubamba ndetse n'inyanya. Ni umuti uri mu icupa rirerire rifite ibara ry'umutuku, aho kuri iryo cupa hariho ikirango kiri mu mabara y'umweru ndetse hariho amafoto y'igikakarubamba ndetse n'inyanya.

Ni amavuta akoze mu gihingwa cy'igikakarubamba, ari mu macupa afite ibara ry'umweru ndetse na oranje, aho bikoreshwa mu gukuraho indwara izo arizo zose zaba zafashe uruhu, iruhande rwayo hari isabune na yo ikoze muri iki gihingwa yifashishwa mu gusukura uruhu.

Imiti y'ibinini byo kunywa iri mu gikarito cy'amabara atandukanye, harimo umweru ndetse n'umutuku. hakaba harimo n'izindi nyuguti zandikishije ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'ibara ry'umweru.

Ibibabi by'igihingwa cy'umwumbati byifashishwa mu gukora imiti gakondo aho izakoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye, icyo kibabi gifashwe n'umuntu bi kwerekana amababi.

Mu murima uhagazemo abantu b'ingeri zitandukanye, higanjemo abagabo ndetse n'abagore. Uteyemo kandi igihingwa cy'igikakarubamba cyifashishwa mu gukora imiti gakondo, izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye.

Umuti wa kinyarwanda ukoze mu gihingwa cy'igikakarubamba, ni umuti uri mu icupa ribonerana, rifite umufuniko w'umuhondo kandi rikaba ryometseho igikaratasi kigaragaza ko ari umuravumba. Ni umuti wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Ahabereye ubucuruzi bw'imiti gakondo ikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye, ni imiti iri mu macupa y'ubwoko butandukanye ndetse ifite amabara atandukanye, hari umumama uri kuyigurisha inyuma ye hari icyapa kigaragaza nimero ze.

Ahateye igihingwa cy'umuravumba, kifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu kuvura indwara z'ubwoko butandukanye, abakuru cyangwa abato bashobora kurwara.

Umuti ukozwe mu gihingwa cy'igikakarubamba, uri mu icupa ry'umweru rirerire rifite inyuguti zandikishije mu ibara ry'icyatsi kibisi. Uyu muti wifashishwa mu gukora isuku yo mu mutwe.

Amaronji, imbuto zikungahaye ku isukari, hari izifite amabara y'umuhondo, izindi zifite ibara ryatsi kibisi, ni imbuto kandi zifashishwa mu gukora imiti gakondo, izakoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Umuti ukozwe mu gihingwa wifashishwa bari koga mu mutwe, kugirango bakuremo imvuvu. Ni umuti uri mu icupa rirerire ry'umweru, rifite amabara y'icyatsi kibisi ku ruhande. Hari amagambo kandi yanditse ku icupa mu nyuguti zifite ibara ry'icyatsi kibisi.

Inanasi urubuto rukungahaye ku isukari, ruri kumwe n'ibindi byo kurya by'ubwoko butandukanye biri mu bikarito by'ubwoko bwinshi, byose bikaba bikungahaye ku isukari kandi bikaba bikunze gukoreshwa n'abakoze imyitozo ngororamubiri kugira ngo barusheho kongera isukari mu mubiri batakaje bakora imyitozo.

Igihingwa gifite amababi magufi. Ni igihingwa cyifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, zishobora gufata abato cyangwa abakuru.

Igihingwa gifite amababi maremare ni igihingwa kifashishwa mukora imiti gakondo izakoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye z'ubwoko bwinshi zafashe abato cyangwa se abakuru.

Amavuta akozwe mu gihingwa k'igikakarubamba, ari mu macupa maremare afite amabara atandukanye, harimo umweru ndetse n'umuhondo, kuri ayo macupa inyuma hariho ifoto y'igikakarubamba.

Amavuta yo kwisiga mu mutwe akozwe mu gihingwa cy'indimu ndetse n'igitunguru, ari mu icupa rirerire ribonerana iruhande rwaryo harambitse igitunguru ndetse n'ibisate by'indimu.

Agasahani gateretseho igikombe kirimo icyayi bakatiyemo indimu nk'igihingwa cyangwa urubuto rwifashishwa mukora umuti gakondo kugira uvure ibibazo bitandukanye umuntu yaba afite mu mubiri.

Amavuta yo kwisiga akozwe mu gihingwa cy'igikakarubamba ari mu macupa maremare ariho ifoto y'igikakarubamba iruhande rw'aya macupa kandi harambitse ibikarito birimo imiti yo kunywa ikozwe mu bimera.

Imiti ikozwe mu gihingwa ni imiti ikoreshwa bayisiga ku munwa kugira ngo ubarinde gusatagurika cyangwa ubavure udusebe twaba turiho, ni umuti uri mu dukarito dufite amabara y'umweru ndetse n'umutuku kandi handikishijeho inyuguti mu ibara ry'umutuku.

Imiti ikozwe mu gihingwa cy'igikakarubamba yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye zaba zafashe uruhu, iri mu macupa atandukanye imwe mu macupa y'umweruru, undi uri mu icupa ry'umuhondo.

Ibihingwa by'ubwoko butandukanye bigiye biri mu mavazi, harimo igikakarubamba, umuravumba, igisura ndetse n'ibindi bitandukanye, byifashishwa mu gukora imiti gakondo, izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara nyinshi.

Amavuta yo kwisiga akozwe mu gihingwa cy'igikakarubamba aho akoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye zaba zafashe uruhu, aya mavuta ari mu macupa maremare y'umuhondo, afite imifuniko y'ikinombe kuri, aya macupa kandi hariho amafoto igikakarubamba.

Umuti wo kwisiga ukozwe mu gihingwa wifashishwa mu kuvura indwara zafashe uruhu, uri mu icupa ry'umweru rirerire ryandikishijeho inyuguti mu mabara ya oranje.